Umwana uri ku ivomero waje kuvoma, aho afite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvoma nk'amabido, aho hirya hari insina zihateye ndetse n'ibyatsi byahameze, bityo kugira ngo harusheho kuba hagaragara neza.

Hari abantu benshi bahuriye ku ivomero aho bazanye ibikoresho byo gutwaramo amazi nk'amambido ndetse n'amagare yo gucundaho amazi bazanye umubirikira kugira ngo amazi atameneka ,hirya hari abandi bategereje ko bagerwaho kugira ngo nabo babone amazi batahana.

Abantu bicaye hamwe aho bari kuganira iruhande hari ameza atetseho amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'ibicupa bito birimo imitako, ku ruhande hari igishusho kigaragaza inama barimo ijyanye n'icyizere ku bana ndetse ku rukuta hari inyakiramashusho iri kwifashishwa mu nteganyanyigisho bari kuganiraho.

Abantu benshi harimo abicaye ku ntebe imbere ndetse n'abandi bahagaze inyuma yabo no ku mpande, bari mu gikorwa cyo kwirinda ndetse no kurwanya indwara ziterwa n'ibintu bigiye bitandukanye, bityo himakazwa umuco wo kwita ku buzima ndetse no kubwitaho bityo kugira ngo umuntu arusheho kuba yagira ubuzima.

Abantu benshi harimo abana n'abakuru aho bari iruhande rw'ivomero aho bafite ibikoresho byabugenewe nk'indobo n'utubido byo gutwaramo amazi aho bose baje kuvoma kandi amazi meza ni ubuzima kandi yifashishwa mu bijyanye n'isuku ya buri munsi.

Inyubako ebyiri ziteye amarange y'ubururu aho ziri mu ruzitiro ruzitiye neza cyane, imbere harimo amatafari yo gusasamo kugira ngo hagire imbuga nziza, hari umuntu uhagaze iruhande rw'inyubako imwe muri zo kugira ngo acunge umutekano wazo.

Umugore uryamye ku buriri bwe kwa muganga aho hari ushinzwe ubuzima uri kumufasha kumenya uko mu nda ameze, hari undi muntu uri ku ruhande nawe uri kumufasha amurwaje.

Umugore uri kuri kandagira ukarabe aho ari gukora isuku mu biganza, aho kandagira ukarabe yifashishwa mu gukora isuku ku bantu bavuye mu bwiherero ndetse umudamu arishimye kandi ari kumwenyura.

Inama yahurije abantu benshi hamwe, aho hari abantu batatu mbere bayoboye bari guha ikiganiro abandi bicaye imbere mu ntebe aho bose bateze amatwi kandi bari kumva neza icyo bari kubaganiriza ku bijyanye n'icyabahuje.

Ababyeyi babiri umwe wicaye akikiye akana undi wunamye uri guha umuti umwana muto, aho bagira ngo agire ubuzima bwiza bityo bamufashe kuba kwibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye zishobora kumuhu.

Abantu bahagararanye umugore ndetse n'umugabo, aho ku ruhande hari umugore ukikiye umwana ndetse n'abandi bana benshi bafite utupaporo bari kwerekana, bigaragara ko bari muri gahunda yo kwiga ku bijyanye n'imishinga iteza imbere abana, ikanabarinda indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye neza cyane ikositimu na karuvati na rinete, aho ahagararanye n'umugore wo mu bihugu by'abera, aho bafite akenda kagaragaza ikimenyetso cya tembera u Rwanda, inyuma yabo hari ikimenyetso n'icyapa cy'umuryango wunze ubumwe, aho bose bari kugaragaza ibyiza byo gutembera u Rwanda.

Abantu benshi bicaye mu nama aho ku meza hateretse ibikoresho byabugenewe bari kwandikamo ndetse na mudasobwa harimo kandi amazi ari mu icupa yifashishwa mu kuba banywa mu gihe bagize ikibazo k'inyota, ndetse n'indi mitako iri hagati kugira ngo bakurikirane neza inama ndetse ahantu bari hafite isuku ndetse hakeye, bityo kugira ngo ibijyanye n'ubuzima bari kuganiho byumvikane neza kandi babigireho ibitekerezo byimbitse kandi byiza.

Abantu benshi bahagaze aho bamaze gusoza inama bityo kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, inyuma hari ikimenyetso ndetse n'igitambaro kinini kigaragaza inama yabateranyirije aho ngaho ndetse na gahunda y'ibyo bari bari kwigaho bijyanye n'ubuzima bw'abantu.

Abantu bicaye barebana, aho hagati yabo hari ameza atetseho ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'amazi yo kunywa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu itumanaho nka mudasobwa ndetse n'indahuzo zijyana umuriro muri ibyo bikoresho.

Agatanda k'ibyombo kariho ibikoresho byifashishwa muri gahunda zijyanye no guteka, ndetse no kurya, aho hari amasahani, ibikombe, ndetse n'ibindi bikoresho aho byatunganyijwe kandi byogejwe bigashyirwa ku gatanda kugira ngo byumuke neza, bityo harusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umuntu ucikiye agahinja gato aho kari kwitabwaho n'umuganga kugira ngo agahe urukingo ndetse anakavure indwara gafite bityo gakurarane imbaduko kirinda ndetse kanarwanya indwara zishobora kukataka, hari undi wicaye iruhande rwe uri gusoma mu gitabo ndetse n'undi mwana wicaye hafi ye ufite uruhinja, bose baje muri gahunda z'ubuzima.

Abana benshi baje ku ivomero aho bitwaje ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amabido, indobo ndetse n'ibindi bikoresho byo gutwaramo amazi, aho hari umuntu uri kuvoma ndetse bose bategereje kugira ngo bajyane amazi imuhira bityo bayifashishe muri gahunda zose z'ubuzima nk'isuku, guteka ndetse n'ibindi.

Umusaza wicaye aho ari gusuzumwa yashyizwe igipimo ku kaboko kugira ngo umuganga amenye uko ubuzima bwe buhagaze, hirya hari abandi baganga bari gufasha abantu baje gusaba ubufasha bujyanye n'ibibazo by'ubuzima, bityo kugira ngo bahabwe imiti ndetse banafashwe, banagirwarwe inama y'uko bakomeza kwirinda banagira ubuzima bwiza.

Ibirango n'ibimenyetso by'umuryango wunze ubumwe ushinzwe kwita ku mibereho myiza n'ubuzima bw'abatuye Isi, aho yigisha ndetse igafasha abantu kuba bagira ubuzima bwiza bityo bakagira iterambere rirambye ririmo ubuzima ndetse buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu, hivanzemo abana b'impinja ndetse n'ababyeyi babo, harimo uri kubaha amata, ndetse banabagaburira ubwoko bw'ibiribwa bigiye bitandukanye, kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'imirire mibi.

Umuntu waje ku ivomero kuvoma amazi aho yitwaje ibikoresho byabugenewe nk'utubido bityo kugira ngo yifashishe ndetse anakoreshe ayo mazi mu buzima bwa buri munsi nko: guteka, kumesa ndetse n'ibindi, iruhande rw'ivomero hari ibiti byahameze ndetse n'ibyatsi.

Umuntu uri kuvoma amazi y'umugende, aho adahagije kandi atujuje ubuziranenge kuko ashobora kuba afite indwara yateza ndetse afite n'isuku nke, hari umwana muto wicaye iruhande uri kwitegereza, anareba uko uwo mukuru uri kuvoma ari kubigenza.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo, aho hari umwana muto ukikiwe n'umugore, aho hari umuganga ugiye kumuha ubufasha bwo mu kanwa kuko yamwasamuye bityo kugira ngo amuvure ndetse amukize indwara zifata mu kanwa cyane cyane amenyo.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe kwa muganga, aho bambaye amashashi ndetse n'udutambaro two mu mutwe n'udupfukamunwa, bafite udukarito mu ntoki, ndetse bigaragaza ko batanga serivisi zabo uko bigomba, bakita ku barwayi ndetse bakaha ubufasha bakeneye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama aho imbere yabo hicaye abayoboye aho harimo umugore ndetse n'abagabo. Ku rukuta hashushanyijeho abantu ndetse n'amazina yabo n'ibyo bakora kugirango bose baganirire hamwe ndetse bumvikane, banahuze ibitekerezo by'ibyo bari kuganiraho.

Abantu benshi bambaye imyenda y'imyeru nabambaye icyatsi nambaye amajire yo mu bwoko asa umutuku bitabiriye amahugurwa n'inama ho hari umuntu wicaye imbere yabo ari kubagezaho ibyo yabateguriye bityo kugirango ngo babashe kugira ibyo bumva kimwe ndetse bakuramo amasomo azabafasha mu buzima bwa buri munsi no mu kazi kabo.

Abana babiri bari ku mugezi, aho bari gukaraba ibiganza kugira ngo bimakaze ndetse birinde indwara zifata intoki zigatera indwara zigiye zitandukanye nka korera ndetse n'izindi.

Umwana aho afite akabido ari kuvoma amazi ku ivomero ryabugenewe, aho hirya hari abandi bantu baje kuvoma amazi ndetse n'ibikoresho byo kuyatwaramo nk'ibibido n'indobo, bityo kugira ngo amazi bayakoreshe neza ndetse abafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi aho batuye.

Abantu bagizwe n'abana ndetse n'abakuru, aho bari mu cyumba cy'ivuriro bari kwitabwaho banahabwa ubufasha bujyanye n'ubuzima aho harimo ababishinzwe bari kugenda babandika ndetse banabaha ibyo bakeneye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze bityo bagere ku iterambere rirambye.

Imodoka yifashishwa nk’imbangukiragutabara, aho itwara umuntu ufite ikibazo cy’uburwayi, kugira ngo imugeze kwa muganga byihuse, ikikijwe n’abantu benshi, aho bari muri gahunda ijyanye n’ubuzima, aho hari amahema yahashinzwe, ndetse n’ibendera ry’igihugu imbere y’inyubako, bityo kugira ngo abantu barusheho kuba bagira inyigisho nyinshi bahabwa.

Igishushanyo ndetse n'umuntu uri mu kaziga, uriho amagambo iruhande yavuze asobanura anagaragaza ko bakwiye guhaguruka bagashaka abandi bantu bashobora kuba bagira uruhare ndetse bagafasha ibintu kuba byagenda neza mu bijyanye no gutanga ubufasha bw'ubuzima bityo abantu bose bakabasha kubona ibyo bakeneye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu bambaye imyenda isa ubururu, aho mu gatuza handitsemo amagambo nka shora neza, aho bambuye n'ingofero z'imyeru bazamuye ibiganza, bafunze ibipfunsi bigaragaza ko bakomeye.

Abantu benshi bahuriye hamwe, aho hari abicaye ku ntebe ndetse hari umuganga uri kubaha ubufasha, bujyanye n'ubuzima bw'umuntu aho hari abana bato ari gutera inkingo kugira ngo bakurane ubuzima bwiza, ndetse birinde indwara zishobora kubafata mu mikurire yabo ya buri munsi.

Abantu benshi bashinzwe kwita no kumenya gahunda z'ubuzima, aho bambaye imyenda isa yo hejuru aho bari gufata ndetse banagaragaza gahunda y'ibyo bagejejweho, bityo kugira ngo barusheho gukora akazi kabo neza ndetse bafite n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu itumanaho.

Abantu benshi bahagaze iruhande rw'inyubako, aho bose biteguye gufata ifoto y'urwibutso, aho bamaze kugezwaho gahunda ndetse n'inyigisho zifata cyangwa se zerekeye ubuzima, aho bose bishimye kandi bigaragaza ko bafata neza kandi bakiriye inyigisho bahawe.

Umuganga uri kwandika mu gitabo, ari kumwe n'umusore, aho inyuma hari icyapa cyanditseho ko kurwanya sida, bigomba guhagurukirwa, kandi ko igihari igomba kurwanywa.

Abantu benshi bahuriye hamwe bambaye imyenda y'umweru hejuru aho harimo uwambaye ingofero bahuriye hamwe mu nama kugira ngo bagezweho ibiganiro ndetse bige neza ku bijyanye n'ubuzima bityo bagire ubuzima buzira umuze.

Abantu bicaye mu nama aho bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, bafite amazi yo kunywa ku meza ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, bityo kugira ngo barusheho kuganira bumvikana neza.

Abantu batatu bahagaze aho iruhande rwabo hari ikiyaga, hari ufite igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umuriro w'umuntu uhagaze ndetse n'aho ugeze, aho yambaye umwambaro wabugenewe w'ibara ry'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa.

Abantu benshi bicaye, aho bafite impapuro zanditsehomo amagi atandukanye, harimo mu icyumba bicayemo intebe ndetse n'ameza yifashishwa mu kwandikirwaha, bityo kugira ngo barusheho kuba bagira gahunda bandika neza bisanzuye, harimo kandi n'icupa ry'amazi riteretse aho ugize inyota asomaho.

Umuntu uri kuvo amazi mu bikoresho bye bitandukanye yifashishwa mu kuvomayameshe ndetse yanitse bityo kugira ngo yume vuba hafi aho hari ibimera ndetse n'amazi arabegereye kugira ngo arusheho kubagira ubuzima bwiza burimo.

Abantu benshi bagera kuri batandatu aho bicaye imbere ku ntebe, aho inyuma yaho hari icyapa kigaragaza inama barimo, ndetse n'ibyo bari kwigaho. Bityo abakurikiye ndetse n'abateze amatwi, kugira ngo babashe kugira amakuru arambuye, ndetse yisumbuye ku byo barimo.

Ikiganza gifashe igikoresho cyifashishwa mu gusuka amazi aho ari gusukira umwana muto cyane amazi mu ntoki kugira ngo akore isuku bityo agire ubuzima bwiza aho ari gukoresha isabune bityo bimurinde indwara ziterwa n'iumwanda.

Abantu benshi bicaye mu cyumba aho bambaye imipira y'icyatsi ndetse bambaye imipira y'umweru aho bateretse udutabo ndetse n'amazi yo kunywa ku meza barakurikiye kandi bose bateze neza amatwi ibyo bari kugezwaho.

Ababyeyi benshi bagiye batandukanye bambaye imyenda y'icyatsi bagizweho gahunda y'ubuzima bwiza.

Umubyeyi uhagaze ufite impapuro ndetse ukikiye n'umwana muto, hari n'abandi babyeyi bicaye kandi bakikiye abana aho babazanye kwa muganga kugira ngo babafashe kubaha serivisi z'ubuzima butyo barusheho gukura neza ndetse batarwaye.

Umubyeyi w'umudamu uri kumwe n'abana benshi baje ku ivomo aho bitwaje ibikoresho nk'ibido. amabase, n'indobo kugira ngo babone uko batwara amazi mu mago yabo, aho bakeneye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse bagire n'isuku.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda isa, aho bari kubaka uturima tw'igikoni bateramo n'indabo, imbuto ndetse n'imboga kugira ngo harusheho kuba hagaragara neza ndetse bakwita ku mirire myiza bityo kugira ngo imboga nizikura abazikeneye bajye bazirya kandi bazisanze hafi.

Abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abandi bahagaze bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'amakarita mu ijosi bari mu gikorwa kijyanye n'ubuzima, aho bari imbere y'igishusho kigaragaza gahunda y'ibijyanye n'ubuzima ndetse n'uko bakwita ku mibereho myiza n'ubuzima bw'abantu. bityo kugira ngo barusheho kubabagira iterambere rizira ibibazo by'ubuzima, bushobora kuba bwabamerera nabi bigatuma barwaragurika.

Abantu benshi bicaye mu cyumba aho bakoze uruziga rurimo umuntu uri kubigisha akanabaha amasomo agiye atandukanye ajyanye n'imibereho myiza y'ubuzima.

Umwana uri gufungura indobo yifashishwa nka kandagira ukarabe, iteretse ku ntebe aho ari kugira ngo atunganye ndetse asukure ibiganza bityo arusheho kwirinda no kurwanya indwara ziterwa n'umwanda, zifata mu ntoki bityo arusheho kuba yagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abagabo babiri bari gukorana mu biganza aho iruhande rwabo ku rukuta handitseho amagambo agaragaza ko ikibazo cy'ubushita kigomba kurwanywa, hafi yaho hari akabati gateretseho amazi ndetse n'igikoresho kifashishwa mu ndangururamajwi.

Abantu benshi igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bambaye imyenda isa ikoreshwa ndetse yifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi, aho bambaye amakarita mu ijosi ndetse inyuma hari n'icyapa kigaragaza gahunda ndetse n'ibyo bize bityo kugira ngo barusheho kuba batanga ubufasha bugezweho.

Umubyeyi wikoreye indobo ndetse afite n'indi mu ntoki isa umuhondo, indi isa umutuku aho avuye ku ivome kuvoma amazi, bityo kugira ngo ayakoreshe mu buzima bwe bwa buri munsi mu bijyanye n'isuku ndetse no mu bikorwajyanye nko guteka, kumesa, koga ndetse n'ibindi bityo kugira ngo arusheho kuba yagira ubuzima bwiza, bitewe nuko afite amazi mu rugo.

Abana b'abanyeshuri bunamye ku kavomo gato, aho bari gukaraba intoki ndetse bose barishimye bari kumwenyura, inyuma hari ibiti byinshi ndetse n'urubuga rutarimo ibyatsi, iruhande ni ku kigo kandi bose bishimiye ko bari gukora isuku y'umubiri

Umugezi aho hari abantu baje kuvoma, ndetse bafite ibikoresho byabugenewe nk'amabido, hari abandi bari kureba uko igikorwa cyo kuvoma kiri kugenda, ndetse hari n'umudamu uri gukoresha igikoresho cyifashishwa mu gukurura amazi mu butaka, kugira ngo haboneke ayo kujyana.

Abantu benshi bahagaze ku murongo aho imbere hari ababyeyi bafite impapuro bazerekana, inyuma hari ibikoresho ndetse n'ibimenyetso bya gahunda yabateranyirije ahongaho, bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo barusheho kwirinda indwara zandurira mu mihumekere.

Umubyeyi ufite umwana muto cyane uri kwitabwaho n'umugabo aho ari kumuvura ndetse ari kumufasha kuba yagira ubuzima bwiza, hirya hari abandi baganga bari gukora mu bijyanye n'ubuzima aho hari abandi bantu baje gusaba ubufasha bujyanye n'ubuzima.

Umuntu uri gukora isuku aho ari gukaraba ibiganza, ndetse hari igikoresho cy'ubururu kiri kuvamo amazi, cyifashishwa mu isuku kugira ngo umuntu yirinde indwara ziterwa n'umwanda, n'izifata imyanya ishobora kuba yateza ibibazo ku buzima bw'umuntu.

Abana benshi bari iruhande rw'umugezi, aho bose bari kurwanira gukaraba intoki kugira ngo bacye neza mu ntoki, hirya y'umugezi hari ibiti ndetse abana benshi uko bahateraniye, bashaka gukora isuku yo mu ntoki kugira ngo birinde indwara zifata intoki ziterwa n'umwanda.

Umuryango w'isi yose wita ku buzima bw'abana, aho buri munsi babafasha kuba babaha ibiribwa, imyambaro, ibinyobwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bityo kugira ngo umwana wo ku isi arusheho gukura neza, kandi abayeho mu buzima bwiza.

Ibiganza by'umuntu uri gukaraba amazi ku mugezi aho ari kubisukura bityo kugira ngo arusheho kwirinda ndetse no kurwanya indwara ziterwa n'umwanda zinyura mu ntoki cyangwa mu biganza bityo kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, hirindwa, ibibazo by'indwara nka Korera, Inzoka zo mu nda ziterwa n'umwanda.

Ababyeyi benshi harimo abakuze ndetse n'abandi bakiri bato nk'abana baje ku ivuriro kugira abahe ubufasha bujyanye n'ubuzima bityo kugira mibereho yabo ya buri munsi bityo barusheho kuba bagira ubuzima buzira.

Abantu bagera kuri babiri, umugabo ndetse n'umugore, aho bafite ibikoresho byabugenewe nk'amabido, bari ku ivomero bari kuvoma, inyuma hari umudamu wambaye umwenda utukura, aho bose bishimye kubera ko begerejwe amazi.

Abana babiri bari kwitegura kujya gukaraba aho hari uwunamye imbere y'indobo irimo amazi ndetse n'umwana uhagaze ufite igikoresho kindi kirimo amazi aho biteguye gukora ibikorwa by'isuku kugira ngo barusheho kuba bagira ubuzima bwiza ndetse birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Icyumba kirimo abantu babiri, aho umwe yicaye undi ahagaze, aho kirimo utumeza, utubati ndetse n'intebe zo kwicaraho, hari kandi mo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse hari n'impapuro ndetse n'ibipapuro bigaragaza amagambo agiye atandukanye ya gahunda yo kurinda no kuyita ku buzima.

Abantu babiri bahagaze mu mbuga aho hari umwana ufite isorori bari gusaruriramo izo mboga ndetse n'undi muntu mukuru uri hirya iruhande hari uruzitiro aho bose baje kureba imboga zo kuba bakwifashisha mu mirire yabo.

Umugore wicaye wambaye agapfukamunwa, aho ari guterwa urushinge n'umuganga nawe wambaye imyenda yabugenewe n'agapfukamunwa, aho uri guterwa urushinje ari gushingiriza cyane, inyuma hari abandi bari guhabwa ubwo bufasha bwo guterwa urushinge ndetse hari n'ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe biteretse ku meza.

Umwana usutamye aho ari gukaraba intoki ku ivomero, hirya hari ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi n'amabido ndetse n'amabase ku buryo ubikoresheje ajyana amazi kandi akayageza mu rugo neza.

Abantu babiri harimo n'umwana bari gusoroma imboga bityo kugira ngo baziteke zirusheho kubagirira umumaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko imboga zituma umuntu yirinda indwara ndetse zigatuma umuntu agira ubuzima bwiza kuko aba yariye indyo yuzuye, igizwe n'imboga, imbuto ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bateraniye hamwe mucyumba aho hari abambaye imyenda isa ifite ibara ry'ubururu inyuma hari umugabo uri gufata amashusho ndetse n'undi wunamye hirya uri kuyafata iruhande ubundi ubundi buryo hari abambaye amakoti y'umukara ndetse n'umudamu uhagaze iruhande rwabo.

Abana baje ku ivomero harimo n'abakuru, aho hari uri kuhagirwa washyizwe mu ibase, aho bari kumukarabya kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, abandi bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutwara amazi ndetse no mu kuvoma, nk'indobo ndetse n'ibase, bityo kugira ngo barusheho kujyana amazi aho batuye, bimakaze umuco w'isuku ndetse banayakoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuntu uri guterwa urushinge n'umuganga, aho harimo umuti ndetse n'urukingo kugira ngo arusheho gukura cyangwa kubaho afite ubuzima bwiza bwirinda indwara ndetse no gufatwa n'ibyerezo bigiye bitandukanye.

Ababyeyi bari ku mugezi aho bari kuvoma amazi bitwaje ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvoma nk'indobo n'amabase, aho hari kandi uruzitiro ruzitiye uwo mugezi kugira ngo bawurinde kuba wakwangirika cyangwa wakwangizwa.

Umubyeyi wicaye akikiye akana kari guhabwa umuti n'umuganga aho bari kukavura indwara banagakingira kugira ngo kabashe kugira ubuzima buzira umuze bityo kazakure neza kandi kadafite ibibazo by'ubuzima.

Abana bicaye mu ishuri aho bambaye impuzangano ndetse n'imipira yabugenewe, inyuma hari ikibaho kiriho amasomo biga, ndetse ku meza aho bicaye hari ibiryo bigiye bitandukanye, aho bari gufungura.

Umuganga wambaye neza imyenda yifashishwa mu kuvura aho yambaye agapfukamunwa ndetse n'agatambaro mu mutwe ndetse n'umwenda wabugenewe wo hasi. Imbere ye hari ibikoresho by'ubuganga harimo ibikoresho byifashishwa mu gupima ndetse no kumenya uko umutima w'umuntuntu utera.

Abana bato b'inshuke bambaye impuzangano, aho bahagaze imbere y'ababyeyi baje kubagezaho gahunda ndetse no kubigisha uko bakwirinda imirire mibi bityo kugira ngo barusheho kuba bagira ubuzima bwiza.

Abagore babiri bicaye bishimye bari kumwenyura, aho umwe yambaye igitambaro mu mutwe, undi yambaye agakote keza cyane, aho bari iruhande rw'ikirangantego kiranga umuryango wunze ubumwe ushinzwe kwita ku mirire.

Abagabo babiri aho bari gusindagiza umuntu uri hagati, aho yagize ikibazo atari kubasha kugenda neza kugira ngo amugeze ahabugenewe bityo amenye.

Abantu benshi bambaye imyenda isa yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda itandukanye aho bari muri gahunda yo kwita ku buzima ndetse no kurwanya indwara ziterwa n'ibibazo biterwa n'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane hibandwa ku bwonko.

Umugabo wambaye umupira utukura n'ikabutura yicaye hasi aho yambaye amapingu ndetse ashungerewe n'abantu benshi, aho bahuruye baje kureba icyamubayeho ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zimuhagaze inyuma, ashobora kuba yakoze amakosa cyangwa se ibyaha bigiye bitandukanye bityo bakaba yatawe muri yombi.

Umuntu wifashe mu mutwe yunamye aho ari kuribwa cyane ndetse akeneye ubufasha kugira ngo ahabwe icyatuma uburibwe bwe bugabanuka, afite ibisuko byinshi byirabura ariko araribwa cyane aho akeneye umuti kugira ngo yoroherezwe.

Abantu benshi harimo abahetse impinja bicaye mu cyumba kiri gutangirwamo inyigisho, aho ari umuntu uri imbere uri kubasobanurira ndetse uri kuhagenda yandika ku kibaho, harimo ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse n'igishushanyo kiri imbere kigaragaza gahunda yabahurije ahongaho, kiriho n'amabendera y'ibihugu bya amerika ndetse n'Uburundi.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri aho bambaye impuzangano ndetse bazamuye ibiganza byabo mu kirere bishimye cyane, hirya yabo hari ikindi gikundi cy'abari hirya cyari hafi y'ibiti, ariko hagati hari ibendera ry'Igihugu rishinze, ndetse abana bose barishimye bitewe na gahunda bagenewe.

Umugabo w'umusaza ukuze cyane aho akenyeye umwitero w'umuhondo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ingofero ikuze cyane, afite ibihanga mu menyo aho amenyo abiri y'imbere yakutse ndetse haba ayo hejuru ndetse n'ayo hasi afite icumu ryifashishwa.

Umwana muto ufite agahinda aho ari kurira kandi yikoreye amaboko, iruhande rwe hari umubyeyi ufite inkwi mu ntoki ndetse n'abandi bantu bari iruhande benshi harimo abana, abagore, abagabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye.

Abana benshi bicaye, aho bishimye bari guseka, bamwenyuye, aho bari kwigishwa kuri gahunda zigiye zitandukanye kugirango ngo barusheho kuba bakwimakaza umuco wo kwirinda indwara zifata imyanya y'imitekerereze.

Abantu benshi bambaye imyenda isa y'icyatsi, aho bari muri gahunda yo kwamagana ihohoterwa, aho bafite igikoresho cy'indangururamajwi ndetse harimo n'inzego zishinzwe umutekano ziri kubafasha muri icyo gikorwa, bityo kugira ngo abantu bose birinde kandi barwanye ikibazo cy'ihohotera.

Abantu bagera kuri batanu harimo abagore batatu ndetse n'abagabo babiri ndetse n'umwana muto cyane bicaye imbere y'inzu, aho bari kuganira ndetse iruhande rwayo hari ibimera, bityo bari kuganira kuri gahunda zigiye zitandukanye zabateza imbere.

Abantu babiri bicaye aho ku meza aho bari hatetse amacupa arimo amazi ndetse n'icupa ryifashishwa mu gusukura ibiganza, aho inyuma yabo hari ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, ndetse n'ikirangantengo cy'igihugu ku buryo bifasha abantu kuba bakwirinda ndetse bamenya ibijyanye n'ubuzima.

Itsinda ry'abantu benshi cyane; bamwe bicaye ku ntebe imbere ndetse abandi bahagaze nyuma yabo, aho bari gufata ifoto y'urwibutso y'igikorwa cyari cyabateranyirije aha ngaha ndetse cyabahurije aha. Bityo kugira ngo kibe ikimenyetso cy'ibyo bize ndetse n'ibyo bagaragaje mu byo baganiriye. Inyuma hari igishusho kigaragaza kandi kinanditseho amagambo y'ibijyanye na gahunda yabahurije hariya.

Utudomo twinshi harimo uduto uturi mu rugero n'utunini aho duhujwe n'uturongo turimo tugaragaza ko hari aho duhuriye munsi hari amagambo ahanditse ari inyuguti ya M nto n'inyuguti ya H nkuru na U ndetse aho zigaragaza ko hari icyo zihagarariye mu buzima bw'umuntu bwo mu mutwe.

Amagambo menshi agaragaza ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'uko bwakwitabwaho bityo kugira ngo hirindwe ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane bifata ubwonko, hibandwa cyane mu kurwanya buri kimwe cyose gishobora gutuma umuntu ashobora kuba yakwiyahura, yagira imitekerereze mibi, cyangwa se yagira ubwoba budafite ikintu bushingiyeho.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze mu nzu imbere yabo hari ameza ndetse bameze nk'abaje kwitabira amahugurwa runaka, ku ibijyanye n'ubwonko cyangwa ubuzima bwo mu mutwe. Barishimye bagaragaza ko ibyo baje kwigiraha n'inyigisho baje kuhakura bazifashe kandi zizabagirira umumaro mu gihe kiri imbere.

Gahunda yo kwita ku buzima bwo mu mutwe ku bantu bose, ndetse no ku miryango migari y'aho abantu batuye, hirindwa ibibazo bishobora gutera abantu kuba bagira ihungabana ndetse n'ibibazo byo mu mutwe, bishobora gufata ubwonko, ndetse n'imitekerereze yabo bityo bakagira ibibazo.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bahagaze bose biteguye gufata ifoto y'urwibutso aho hari abambaye amakoti amakositimu ndetse n'abamama bambaye amajipo n'amakanzu aho bari bateraniye hamwe mu kugira ngo bige ubuzima bwo mu mutwe bityo babashe kureba bagira ubumenyi bwimbitse.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore aho bari muri gahunda yo kugaragaza ndetse no kwerekana ibyiza by'ubuzima bwo mu mutwe, hirindwa indwara zifata imitekerereze mu Rwanda bityo abantu bakarushaho kuba bagira ubuzima bwiza n'amahoro.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, aho bafite amacupa y'amazi ku meza, hakaba n'uri imbere yabo uri kubigisha anabasobanurira gahunda yabateranyirije aho ngaho, ijyanye n'ibyanditse ku gipapuro kimanitse ku rukuta, aho bari kwiga ku kwita ku buzima bwo mu mutwe mu kazi kabo bakora ka buri munsi.

Ikinyabiziga cyifashishwa nk'inzu y'ivuriro yita ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane aho ijya ahantu hari ibibazo abaturage bakaza bakabitaho ndetse bakabufasha bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu babiri bari gusuhuzanya, harimo uwambaye imyenda isa neza ifite isuku, hakaba n'undi wambaye imyenda ishaje ndetse yacitse cyane, aho ameze nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ndetse ukeneye ubufasha bwisumbuyeho.

Umucuruzi uhagaze mu nzu icururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye aho ategereza umukiriya akamuzanira amafaranga nawe akamuha ibyo akeneye nk'inyanya, ibirungo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bityo nawe akiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umuntu uhagaze ufite ibifurumba ndetse n'imifuka, aho yambaye imyenda ishaje cyane ndetse yaciceguritse bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, inyuma ye hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ndetse yifashishwa mu gutwara ibintu.

Umuntu wicaye hasi wambaye imyenda ifite umwanda mwinshi ndetse yambaye ibirenge, aho bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kuko afite umwanda kandi yicaye ku muhanda iruhande rw'inyubako bigaragara ko akeneye ubufasha kugirango abe yavurwa indwara zifata imyanya.

Umubyeyi uhagaze imbere y'icyapa kiriho umufatanyabikorwa mu bijyanye n'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, aho yishimye agaragaza ko abantu bakwiye kurwanya ndetse bakanakumira indwara zifata imyanya y'imitekerereze.

Abana benshi bicaye bakikije umukecuru ubicayemo hagati, ku musambi, aho ari kubaganiriza ndetse muri gahunda zigiye zitandukanye, kugira ngo abana bakurane amakuru ndetse no kumenya ibya kera, bityo barusheho kuba bakura bazi neza amateka bari kubwirwa n'uyu mukecuru.

Abantu benshi bari mu gikorwa cyo kugaragaza ndetse no kurwanya ibibazo bifata ubuzima bw'imitekerereze, cyangwa se bifata mu mutwe cyane cyane ku bwonko, aho bafite igishusho kinini kigaragaza uko hakwirindwa indwara nk'izo, ndetse n'uko zakumirwa, bityo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi b'ingeri zose bamwe bambaye amakarita mu ijosi ,aho bari imbere y'ameza atiritseho ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, nk'ubwonko ndetse aho bafasha abantu kuba bagira ubuzima bwiza ndetse bakwirinda ibibazo bifata imitekerereze.

Umuntu uryamye, aho yasamye aho bari kumufasha kumuvura indwara zifata amenyo. Muganga yambaye uturindantoki tw'ubururu, ari kumutera ikinya kugira ngo bamukure atumva ububabare.

Icyumba cyo ku ivuriro cyifashishwa mu kumenya no kuvura indwara zifata mu kanwa cyane cyane amenyo aho hari agatebe kicarwaho n'umuganga ndetse n'agatanda umurwayi ugiye kuvurwa aryamaho n'ibikoresho byungera urumuri ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gukura amenyo.

Umuntu uri gukora isuku y'amenyo no mu kanwa muri rusange aho ari kwifashisha igikoresho cyabugenewe kiri mw'ibara ry'ubururu n'akabara k'umweru ,aho isuku yo mu kanwa igira ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu bityo bikamurinda indwara zishobora kubangamira ndetse zikanangiza imyanya yo mu kanwa.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru aho ari kwireba mu ndorerwamo ndetse ari kureba uko amenyo ye ameze bityo kugira ngo arebe niba akomeye cyangwa afite isuku kugirango arusheho kuba yayitaho amere neza kuko indwara zo mu kanwatsefata amenyo zizenziriza abantu bityo arushaho guhora yita ku menyo ye kugira ngo adahura n'icyo bibazo

Abantu bahagaze imbere y'ikibaho cyo mu ishuri aho hari umugabo wambaye umwenda w'umweru ari guha ibikoresho umwana muto w'umunyeshuri anamwereka uko bikoreshwa kugirango akomeze agire ubuzima bwiza.

Umuntu ukora mu nzego z'ubuzima aho ari gufasha umukobwa kuba yagira ubufasha amuha bitewe n'indwara zo mu kanwa, cyane cyane zifata amenyo. Aho hirya har’abandi babiri bambaye imyenda isa y'imyeru, aho imbere yaho hateretse icupa ririmo umuti wifashishwa mu kugira isuku. Aho bose bari mu nzego zifasha ubuzima ndetse no kwita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu kanwa.

Abaganga babiri bari kwita ku mubyeyi uryamye hasi, aho umuganga umwe afite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukura iryinyo ndetse aho ari kurimukuramo kugira ngo amurinde ibindi bibazo bishobora guterwa n'ibibazo byo mu kanwa.

Umuntu wamwenyuye cyane, uri kugaragaza amenyo kugira ngo buri wese abone ko afite isuku ndetse akeye cyane kubera ayakorera isuku buri munsi, bityo akarushaho kugira ubuzima bwiza no kwirinda indwara zifata mu kanwa cyane cyane zibanda ku menyo.

Umuntu wamwenyuye aho ari umuganga wambaye udukoresho twabugenewe nk'uturindantoki ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gusukura amenyo, aho agiye kumuha ubufasha bwo kugira ngo amusukure ndetse arwanye umwanda ushobora gufata mu kanwa ndetse ushobora kubangamira amenyo akaba yagira ingaruka.

Abana bambaye impuzangano bicaye mu ishuri, aho bazamuye ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, cyane cyane hibandwa ku menyo bityo kugira ngo birinde banarwanye indwara zifatamo.

Umubyeyi uri kwigisha umwana anamutoza uko yajya akora isuku yo mu kanwa, cyane cyane amenyo, aho afite umuti ndetse n'agakore kabugenewe bari gukora isuku, bityo kugira ngo umwana azakurane uwo umuco ndetse azarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ubuzima bw'ibice byo mu kanwa cyane cyane hibandwa ku menyo, herekanwa uko ashobora kwitabwaho ndetse hanavugwa afite ibibazo, ayo bikomeye akanakurwarwamo, hanashishikariza abantu ko bagomba kugirira isuku ubuzima bwo mu kanwa, ndetse no kugirira isuku amenyo kugira ngo hirindwe indwara zishobora gutuma yangirika, ndetse yateza ibibazo umuntu ufite icyo kibazo cy'amenyo.

Ishusho rigaragaza amenyo uko ameze ndetse n'ubuzima bwayo, aho ifatwa n'ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga, bityo kugira ngo muganga amenye aho ari bwite cyane hari ikibazo, amenyo uko atondekanyije ndetse n'uko mu kanwa ameze, biragaragara ndetse bituma umuntu amenya uko yakwirinda.

Abantu benshi bavangavanze igitsina gore n'igitsina gabo, bateraniye hamwe bari kumwenyura barishimye aho bamwe bicaye hasi abandi bahagaze ndetse bose bafite umunezero.

Umugabo wamwenyuye aho ari kugaragaza amenyo meza afite isuku ndetse y'umweru y'urwererane, bityo kugira ngo abantu barusheho kugira isuku mu kanwa ndetse bajye boza banatunganye amenyo yabo kugira ngo birinde indwara zifata mu kanwa.

Umuntu ufite agakoresho kabugenewe gatungan kakanasukura amenyo, aho ari kuyagorora kugira ngo arusheho kuba yamera neza, bityo amurinde kuba yavamo cyangwa se bikamurinda kuba yagira izindi ndwara zifata imyanya yo mu kanwa, cyane cyane yibanda ku menyo ndetse no ku ishinya bityo akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wamwenyuye cyane, ufite akagozi aho ari kugacisha amenyo, yerekana anagaragaza ko afite amenyo afite isuku, ndetse afite ubuziranenge, kuko yayagiriye isuku ndetse yayitayeho, bityo yirinda indwara zishobora guterwa n'umwanda wo mu kanwa, cyane cyane zihungabanya amenyo.

Abana benshi bari gukora isuku yo mu kanwa bambaye impuzankano zisa, bafite udukombe turimo amazi kugira ngo bifashishe n'umuti wo mu kanwa bakora isuku, kugira bakure bafite ubuzima buzira umuze ndetse bimakaza isuku yo mu kanwa.

Umugabo uri guseka cyane aho afite akagozi yahambiriye ku ntoki zo ku biganza bigiye bitandukanye, aho yagashyize mu menyo yagakuriye cyane, aho ari gushaka kugacisha amenyo kugira ngo arebe icyo amenyo ye ari bube.

Umugabo wishimye wamwenyuye aho iruhande rwe hari ikiganza gifite kinambaye akarindantoki k'ubururu, aho afite umuti agiye guha uwo mugabo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu wagaragaje amenyo ye ndetse afite n'akagozi agaragaza uko ashobora gukura imyanda yafashe mu menyo bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza yita ku menyo kugirango ngo arusheho kuba yagira ubuzima buzira umuze yirinda indwara zifata.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura ndetse no gukiza indwara zifata mu kanwa cyane cyane amenyo, aho harimo agatanda umurwayi yicaraho, akaryamaho kugira ngo amukure i iryinyo ndetse n'isaha igaragaza igihe n'ibikoresho byongera urumuri mu gihe umuvuzi ari gukura.

Ibikoresho byabugenewe biri mu cyumba aho byifashishwa cyane mu buvuzi bugezweho hifashishijwe ikoranabuhanga harimo n'intebe yicarwaho n'umuganga uri gufasha unavura umuntu ndetse n'akabati kifashisha kabika imiti igiye itandukanye n'ibikoresho bya mudasobwa byifashishwa cyane mu kumenya uko umubiri w'umuntu uhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byabugenewe, aho hari umuntu uryamye ku gatanda, uri kwitabwaho n'umuganga kuri gahunda ndetse n'uburwayi bufata mu kanwa cyane cyane amenyo, aho iruhande hari ibikoresho ari kwifashisha nk'inshinge ndetse n'ibyo ari gukoresha kugira ngo amenyeye neza anamuvure kugira ngo atahe afite ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye ku gatanda, aho ari kureba imbere ategereje umuganga ko amukorera ubuvuzi bwo mu kanwa cyane cyane amenyo, aho abantu benshi bi bagana kwa muganga kugira ngo bakize indwara zifata amenyo bityo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzangano aho bari kumwe n'ababyeyi, aho bahawe ibikoresho byifashishwa mu gusukura no gutunganya mu kanwa, cyane cyane amenyo aho bishimye babizamuye bagaragaza ko bishimiye ubwo bufasha n'iyo suku batojwe.

Umuganga wambaye umwenda wabugenewe ndetse n'agafukamunwa aho ari gufasha umusaza uryamye ku gatanda kabugenewe, afite ikibazo cy'indwara zo mu kanwa aho ari kumureberamo ndetse agira ngo amuhe ubufasha bwuzuye.

Ababyeyi bari mu murima, aho bari gusarura, bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gushyirwamo umusaruro, n'udutebo, aho bishimye kandi bishimiye ko umusaruro wabo hari icyo uzabagezaho mu buryo bw'iterambere rirambye.

Abagore babiri aho umwe ari gufasha ukuze cyane kuba yakora imyitozo ngororamubiri aho yamufashije kurambura amaboko kugira ngo agorore imitsi bityo bimurinde indwara zifata imyanya y'ingororangingo.

Umukecuru uri gusuka imiti iri mu gacupa, aho hari n'indi yateretse kabugenewe, iruhande hari amacupa arimo indi miti igiye itandukanye ndetse yifashishwa mu kuvura bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza mu kwirinda indwara.

Umugore wicaye aho ari gusuka ibiri mu gacupa gato cyane aho amwenyura buhoro ariko ari kureba cyane aho ari gusuka umuti mu kiganza kugira ngo afashe abagize ikibazo.

Umusaza uri kwitabwaho n'umukobwa aho ari kumuha urubuto mu ntoki afiti n'icupa ririmo icyo kunywa kugira ngo amanuze bityo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze kuko amazi ni ubuzima.

Umusaza wicaye mu gatebe k'abarwayi, aho ari kwitabwaho n'umuganga umufasha mu bijyanye n'ubuzima, kugira ngo arusheho kuba yagira ubuzima bwiza, ndetse yitabweho, bakaba bari kurebana nabishimye, bigaragaza ko bishimanye ndetse amwitaho neza cyane mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umugabo ukuze uri gusoma igitabo, aho afite agakaramu mu ntoki, wambaye ibituma areba neza kuko afite ikibazo cy'amaso, bityo kugira ngo arusheho gusoma neza atuje kandi ameze neza, kuko gusoma bituma umuntu yunguka ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye, ndetse bikanaruhura mu mutwe.

Umugabo mukuru, aho yicaye ari kumwenyura yishimye cyane, ari kumwe n'umukobwa cyangwa umugore, wambaye imyenda yambarwa n'abakora mu bijyanye n'ubuzima, aho bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, ndetse n'uko bakwita ku bafite, ikibazo cy'uburwayi.

Umusaza ukuze, uri kumwe n'abana babiri, aho bicaye imbere y'umuryango w'inzu, bari kunywa ndetse bari no kurya, bityo kugira ngo barusheho kuba bagira ubuzima bwiza, ndetse birinde indwara ziterwa n'imirire mibi.

Umusaza ukuze aho ari kumwe n'umuntu wita ku buzima bwabo wambaye igikoresho cyabugenewe gipima uko umutima utera ,aho ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri ,aho yafashe igikoresho cyabugenewe mu ntoki kugira ngo arambure ndetse anagorore imitsi n'imikaya by'amaboko kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, kuko siporo n'imyitozo ngoromubiri muri rusange ituma amaraso agendabera neza mu buzima mu buryo umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bafite impapuro zirambitse ku meza aho bari kuzisoma bityo kugira ngo bamenye icyanditseho neza bagikurikize bityo kugira ngo barusheho kuba bagira ubumenyi runaka babona, barusheho kuba bateza imbere ndetse banarinda ibibazo biterwa n'ubuzima.

Umugabo uhagaze, uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kumwe n'umugore umwitaho, aho ari mu cyumba ari gutambuka ndetse anashaka uko yagorora amaboko n'amaguru, kugira ngo imikaya n'imitsi by'umubiri, birusheho kurambuka, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru wishimye cyane ufite imvi z'uruyenzi, inyuma ye hari umukobwa wambaye umwenda wicyatsi n'utubara twumweru, aho bose bishimye bari kumwenyura ndetse umukecuru yitaweho cyane.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aho ari gusunikwa n'umukobwa, barishimye ndetse ari kumwitaho cyane bityo kugira ngo amugeze aho agiye mu buryo bworoshye kandi burimo ubufasha bwinshi cyane.

Umusaza ndetse n'umukecuru, aho bari gufata amafunguro, agizwe n'indyo yuzuye, harimo imboga, imbuto ndetse n'icyo gusomeza, bityo kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kuko indyo yuzuye irinda umuntu kuba yarwaragurika ndetse akagira ubuzima bwiza.

Umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho afite ibikoresho byabugenewe mu biganza byombi, yarambuye amaboko kugira ngo agorore ndetse ananure imitsi n'imikaya ifata amaboko ndetse n'umugongo, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kuko siporo igira ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu.

Abantu benshi aho bari mu gikorwa cyo gushyikiriza umubyeyi impano ndetse benshi bari aho barishimye ndetse bishimiye igikorwa cyo kuba bakwita kuri uyu mubyeyi bityo kugira ngo na we arushe kuba yabaho neza ndetse afite ubuzima bwiza.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri n'umwana umwe muto, aho bose bishimye bari kureba imbere bigaragara ko ari umuryango umwe ubayeho neza kandi ufite ubuzima bwiza, bamaze kwishimira uko babayeho ndetse n'ibyo bagezeho.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yashinze inkokora ku gasambi kari hasi, kugira ngo aananure imitsi ndetse agorore umubiri bityo agire ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye iruhande rw'imeza afite ikiyiko, aho iruhande rwe hari umudamu uri gusuka mu kirahure ndetse hasi ku meza hari imbuto zo mu moko agiye atandukanye, aho biteguye kuyafungura.

Umukecuru ukuze uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho afite ibikoresho mu ntoki bibiri byifashishwa mu kugura no kurambura amaboko, bityo kugira ngo arusheho kuba yagira ubuzima bwiza arishimye kandi aramwenyura kuko imyitozo ngoramubiri ituma umuntu agira ubuzima buzira umuze, amaraso agatembera neza mu mubiri ndetse akarinda no kurwaragurika bya hato na hato.

Umukecuru wakomeretse ku jisho aho yashyizwe igipfuko ku jisho kugira ngo akurusheho kumera neza ndetse igikomere afite kizakire vuba, bityo kugira ngo arusheho kuba yamera neza ndetse hakwirindwa ko hashaho kugira izindi ngaruka z'ubuzima.

Abantu benshi bagera kuri barindwi, aho bambaye amakarita mu ijosi aranga akanagaragaza gahunda yabateranirije aha ngaha aho bari imbere y'ibikarito ndetse n'ibyapa byanditseho amagambo agiye atandukanye, bose bari muri gahunda zijyanye n'ubuzima bityo kugira ngo ibyo bakora ndetse n'ibyo bigisha bigirire umumaro abatuye igihugu.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga aho hari ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kumenya uko ubuzima bw'umuntu buhagaze hari abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe ,bambaye n'uturindamunwa ndetse n'udukoresho twamburwa mu mutwe bityo kugira ngo bavure neza umuntu aho hari uwo bari kuvura ndetse bose bateraniye hamwe kugira ngo bamufashe kuba yagarura ubuzima bwiza.

Amagambo yanditse agaragaza indwara zitandura ndetse n'urushinge rwifashishwa kwa muganga batera umuti n'igikoresho cyifashishwa bapima uko umutima utera mu mubiri w'umuntu, bityo kugira ngo arusheho kwitabwaho.

Abantu benshi bicaye ku ntebe ndetse bambaye imyenda isa aho bari mu gikorwa cyo gukurikirana gahunda zijyanye n'ubuzima babona amahugurwa ndetse n'inyigisho zishobora gutuma bamenya uko bakwita ku bantu bagiye batandukanye, ndetse no kumenya uburyo amategeko amwe n'amwe ajyanye n'ubuzima yitabwaho kugira ngo hirindwe kuba hagira ibibazo bishobora guterwa n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye zifata abantu, bamenya uko babikemura ndetse n'uko babyirinda bakanabirinda n'abandi

Abagore batatu bafite ibitambaro by'umweru bateze, bari kumwe n'umugabo, iruhande hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, rikigaragaza Minisiteri y'ubuzima y'u Rwanda ndetse n'uko ubuzima bugomba kwitabwaho.

Abantu bicaye mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, hakaba hari undi uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi uri kubigisha ndetse uri kubaha ikiganiro bityo kugira ngo arusheho kugira umutima umwe kuri gahunda zabateranyirije ahongaho.

Umugore wicaye mu ntebe aho afite ikarita mu ijosi agatabo ndetse n'indangururamajwi, aho ari gutanga ikiganiro, yamwenyuye ndetse neza ibyo ari gutanga bijyanye n'ubuzima bw'abantu, biri kugerwaho kandi bikumvwa neza n'abamukuriye.

Abantu benshi bagizwe n'igitsina gore, aho bari kwishimira ndetse barambuye amaboko bitewe na gahunda y'isi y'ubuzima ku bagore b'abayobozi, aho bose bambaye amakarita yabugenewe, bishimira igikorwa bari barimo.

Abantu benshi bari munsi y'igiti harimo abakora mu nzego z'ubuvuzi hari umuntu uryamye ku gatanda kabugenewe, uri kwitabwaho wagize ikibazo uri guhabwa ubufasha bw'ibanze.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye imyenda isa y'umweru, aho bari muri gahunda yo kwerekana ndetse no gukangurira urubyiruko ko rugomba kurwanya virusi itera SIDA kuko ari rwo rw'ejo hazaza.

Abantu benshi bicaye, harimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hahagaze abandi hari n'icyapa kigaragaza umuhango wabateranyirije aho ngaho wo gufasha ndetse no kurinda Abanyafurika ndetse n'abana bafite ibibazo bityo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Amashusho ndetse n'amagambo agaragaza ibyiza byo kurya indyo nziza yuzuye, aho ifasha abantu kuba bakira ndetse bakirinda indwara zigiye zitandukanye, harimo imbuto, imboga ndetse n'iyikomeza umubiri, bityo kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ibimenyetso biriho umuganga uri kuvura umwana muto wicaye, aho munsi hari amagambo agaragaza ko hari inkingo zirwanya umuriro, ndetse zikanakumira iyo ndwara ifata abantu.

Igice cy'umubiri w'umuntu cyarwaye ndetse gifite ibibazo aho hari utubyimba n'uduheri twaje ku mubiri kuko ari indwara y'uruhu, akeneye kujya kwa muganga kugira ngo avurwe, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa n'ibirinda amaso, aho bari gufasha abantu kubaha ubufasha bujyanye n'ubuzima bityo kugira ngo bakire indwara ndetse banaterwa inkingo zibarinda indwara z'ibyorezo nka covidI ndetse n'izindi.

Amagambo yanditse agiye agaragaza kwigishwa bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho hari igitabo cy'umwaka w'amashuri wisumbuye cyigishwa n'abarimu kugira abanyeshuri bamenye kandi barusheho kumenya ubuzima bwabo.

Amagambo menshi ari mu tuziga aho buri jambo rifite icyo risobanuye ndetse n'akaziga kajyanye nako bikurikiranye n'utuntu turanga icyerekezo kugira ngo uri gusoma amenye urwego ndetse n'uburyo ayo magambo arimo n'ibyanditsemo ajyane n'uko ajyanishijwe, hirya ku ruhande hari imirongo ihaciye imwe itambika indi ihagaze yifashishwa mu gutandukanya ndetse no kumenya icyiciro cya buri rwego rw'amagambo n'icyo asobanuye rurimo.

Inyubako y'ivuriro ry'Akarere ka Nyarugenge aho ikikijwe n'ubusitani bwiza kandi butoshye, iruhande hari amabuye ashashemo bityo kugira ngo byongere isuku ndetse hagaragare neza, ku buryo uje kuhivuriza abona ko ari aho kuvurirwa ndetse hatanga ubuzima bwiza.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe aho hari uwambaye ikarita ndetse washyizwe igikoresho gipima umubiri uko uhagaze ku kaboko. Aho mugenzi we yicaye iruhande rw'ameza ateretseho igikombe ndetse n'ibikoresho arikwifashisha. Ku rukuta hari kizimyamwoto zigera kuri ebyiri ndetse zifashishwa mu kuzimya inkongi. Iruhande hari ikimenyetso kigaragaza irembo.

Inyubako igaragaza ko yifashishwa n'ababyeyi, aho hari uruzitiro ruyikikije ndetse n'indabo ziri mu bikoresho byabugenewe, imbere hari ubusitani buteye iruhande ndetse n'umuhanda unyurwamo n'abantu baje gusaba ubufasha.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo igitanda kiryamwaho n'umurwayi, aho harimo utubati dushyirwamo imyanda ndetse n'ibindi bikoresho bizana amazi, ku buryo umuntu yitabwaho ndetse agakaraba amazi neza kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Hari icyumba cy'inyubako, kigamije ubuvuzi bugezweho, aho hari intebe ziri imbere ndetse z'ukurikiye ubuvuzi bugezweho yicaraho, n'abandi bantu bari ku mashusho imbere, aho akurikira kandi akanakurikiza ibyo bari kumusaba, kugira ngo ubuvuzi bugende neza.

Ibikoresho biri mu cyumba by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, harimo kandi utubati ndetse n'ameza bibikwamo bikanaterekwaho ibikoresho byabugenewe, bityo kugira ngo birindwe kwangirika ndetse bibe bimeze neza.

Umuganga wambaye umwenda w'akazi ndetse n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kumenya uko umutima w'umuntu utera ndetse arishimye aramwenyura bityo kuko ari kwita ku buzima bw'abantu benshi, iruhande rwe hari inyubako y'ibyatsi ndetse n'umuntu uhagaze iruhande rwayo wifashe mu nda.

Umuganga uri kuvura umwana, aho yamushyize igipimo kimenya uko amaraso atera bityo kugira ngo arusheho kumenya ibibazo afite amuvure, mu cyumba barimo harimo n'utubati turimo imiti igiye itandukanye nk'inshinge ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura.

Icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura indwara zifata mu kanwa cyane cyane amenyo hari umuganga wicaye ndetse ari gufasha umurwayi uryamye ku gatanda kabugenewe aho ari kumukura ryinyo ndetse anamufasha kumukiza indwara zifata mu kanwa hirya hari abandi baganga bari kwita kubandi barwayi ndetse harimo n'ibikoresho byabugenewe nk'utumeza, utubati ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukura.

Icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane bagorora amaboko, kugira ngo umuntu agire imikaya ndetse n'imitsi irambutse, bityo bimugireho ingaruka nziza kuko gukora siporo ari ubuzima.

Inyubako ifite amarangi y'umweru n'amabati y'ubururu, aho ifasha cyane cyane ababyeyi bafite ibibazo by'abana, bita cyane ku buzima bw'abana bavutse cyangwa abafite ibibazo by'uburwayi, bityo kugira ngo barusheho gukura neza bagire n'ubuzima bwiza.

Inyubako yo kwa muganga, yifashishwa mu gupima ndetse no kumenya indwara zigiye zitandukanye nka malariya, aho imbere yayo hahagaze umugabo wambaye imyenda yo kwa muganga ndetse hari ubusitani bwiza cyane imbere y'iyo nyubako, butoshye kandi hafite isuku.

Icyumba cy'inyubako ibikwamo imiti ndetse ikanagurishwa ku bayikeneye, aho harimo utubati tw'ibirahure ndetse turimo imiti yabugenewe, aho ibitswe neza kugira ngo ntiyangirike bityo uyikeneye aje kuyigura ayijyane igifite umwimerere.

Ibimenyetso n'ibirango bigaragaza ivuriro rikora ndetse rikorera amasaha ibikorwa byaryo, ndetse n'ubufasha batanga ku babagannye, bityo kugira ngo uhagannye ahagana hazi ndetsetswe.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho byabugenewe

Icyumba cyifashishwa n'abafite ibibazo by'ubuzima ndetse harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza, udutanda, utubati tubikwamo imiti ndetse n'intebe zicabwaho n'abategereje ubufasha bwo kugira bavurwe.

Icyumba k'inyubako kirimo amabara, agiye atandukanye atatsemo neza cyane kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ndetse harimo intebe, ameza na mudasobwa ziteretseho bityo kugira ngo ukeneye ubufasha abashe kwitabwaho n'ibikoresho bihagije.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga aho hari abantu benshi bakora mu nzego z'ubuzima bambaye imyenda yabugenewe y'imyeru aho iruhande rwabo hari utubati duteretseho ibyangombwa n'ibyifashishwa kwa muganga nk'imiti ,inshinge, n'ibindi .... aho bose bashinzwe gufasha abantu bafite ibibazo by'ubuzima kugira ngo ufite ikibazo cy'uburwayi afashwe.

Abantu bari kugana ku nyubako aho itatswe ndetse izengurutswe n'ubusitani bwiza cyane butoshye, bugizwe n'ibyatsi bigufi ndetse n'ibiti birebire, mu mbuga yayo mu nzira uganayo hashashemo amatafari.

Inyubako y'umuturirwa yubatse neza iteye amarange y'umuhondo, aho ikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse hari uduti duteyemo, mu mbuga hashashemo amatafari kugira ngo hakomeze hagaragare neza abakiriya bahakunde.

Ibyumba by'inyubako yo kwa muganga, aho hari ubusitani buteyemo ndetse harimo n'imbuto nk'avoka, hirya y'uruzitiro hari izindi nyubako ndetse n'amashyamba ateye iruhande rwazo.

Inyubako igaragaza ibyumba bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi aho hari utumenyetso turanga tukanayobora buri cyumba icyo gikora ndetse n'inzira zo kujyayo n'ubufasha waherwayo.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cyo muri Kigina aho kita kikanafasha abafite ibibazo by'ubuzima gukira ndetse bakamera neza, imbere y'amarembo hahagaze umubyeyi uhetse uruhinja ndetse uvuye kwivuza.

Inyubako z'ivuriro aho ziteye amarangi, zisa neza cyane, mu mbuga yazo harimo ubusitani ndetse n'imbuto, indabo ndetse n'ubwatsi bugufi aho zigaragara ndetse hafite isuku.

Icyumba cy'inyubako, gifite amarangi y'umweru, aho hateretsemo intebe ndetse n'imeza n'akabati kugira ngo abakinjiyemo babashe kuba babona aho bicara, ku meza hateretse igikoresho cya mudasobwa ndetse ku ruhande ku rukuta hari ishusho rihamanitse.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho bicometse ndetse bifite na mudasobwa, harimo kandi utubati turiho tunabitsemo ibikoresho byo kwa muganga.

Umuryango w'icyumba cyo kwa muganga, kifashishwa mu gukora gahunda zigiye zitandukanye z'ubuzima nko kubaga gukura ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima bw'umuntu, iyo akenewe gukorerwa igikorwa k'ibanze kandi k'ingenzi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buzima, aho hari amasanduku agiye afunze neza arimo ibikoresho by'ubuvuzi byifashishwa n'abaganga, ndetse bikanafasha abarwayi kuba bagarura ubuzima bwiza buzira umuze bityo bakabasha kubaho.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya akarengane isange, aho hari inyubako yanditseho amagambo agaragaza serivisi zihatangirwa, ndetse n'ubufasha abaje bahagana ,kugira ngo akarengane n'ihohoterwa rikomeze birwanywe mu rwanda.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura, aho harimo ibitanda, supanete abarwayi bararamo ndetse hari n'umuntu uhagaze ushinzwe kwita no gutunganya ibyo bitanda, harimo udukoresho twifashisha mu kujyana imiti ndetse n'utubati two kubikamo.

Umugore uri ku buriri bwo kwa muganga, uri kwitabwaho n'umuganga ndetse afite igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umubiri w'umuntu uhagaze, ari kumwitaho ndetse mu cyumba harimo n'abandi barwayi n'ibitanda n'utubati byo kwifashisha mu kubika, harimo kandi kizimyamwoto zifashishwa mu kuba hakumirwa inkongi y'umuriro ndetse harimo n'isuku.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho byabugenewe, nk' ibyifashishwa mu kongera urumuri ndetse no kumenya uko ubuzima bw'umuntu mo imbere buhagaze, harimo umuganga uri gutegura agatanda karyamwaho n'umurwayi, bityo kugira ngo kabashe gukoreshwa neza gateguwe.

Inyubako zitanga ubufasha bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye aho zubatse neza iruhande hari ikirango kigaragaza urwara bavura, uko zivurwa ndetse n'uko bakora bityo kugira ngo umuntu ahagana ahaz ndetse azi ibyo agiye kuhavurirwa, hafite ubusitani bwiza ndetse n'igiti kinini giteye hagati.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe, aho harimo urutanda twifashishwa n'abarwayi baryamyeho kubahakorera ubuvuzi, harimo imashini zifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, harimo ishinge ndetse n'ibindi bikoresho nk'imiti byifashishwa n'umuganga ari gufasha umurwayi.

Abantu batatu b'igitsina gore aho bambaye imyenda isa y'ubururu ndetse n'udutambaro mu mutwe aho bishimye ndetse bakora muri gahunda zijyanye n'ubuzima, inyuma hari ibiti n'ibimera ndetse n'ubusitani bwiza butoshye ndetse n'inzira, iruhande rw'aho bahagaze bityo kugira ngo hagaragarire amaso y'abantu.

Icyumba cy'inyubako y'ivuriro aho harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa kwa muganga harimo utubati tubikwamo imiti, intebe abarwayi bicaraho ndetse n'inshinge zifashishwa ziri mu bikoresho no mu bubiko bwabugenewe.

Inyubako yo kwa muganga yifashishwa mu gutanga ubufasha bw'ubuzima, aho hari abantu babiri bari kugenda iruhande rw'iyo nyubako, ndetse n'ubusitani buyikikije bwiza butoshye, bityo kugira ngo abaje gusaba ubwo bufasha bw'ubuzima babashe kuba bamererwa neza ndetse bakwirinda kugira ibindi bibazo bahakura.

Uruzitiro rw'ibitaro bya Ruhengeri aho iruhande rwaho hari inzira inyuramo abantu benshi bari kugenda kandi mu bitaro hari ubusitani bwiza butoshye bufite ibyatsi ndetse n'indabo kandi bifasha abantu benshi.

Umuhanda w'igitaka ufite icyapa gishinze iruhande kiranga ku ivuriro ryo mu karere ka Huye, aho cyifashishwa n'abantu baturutse mu nshe zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kuyoborwa ndetse babone n'aho basaba ubufasha bakeneye.

Inyubako y'ivuriro, ifite ibirahuri byiza, iteyeyi irangi ryiza, irasa neza, aho umurwayi aza bakamufasha, ndetse akavurirwa ahantu hisanzuye, kandi hashobora gutuma agira ubuzima bwiza, kuko aba agarutse ku murongo, hari ibirahure birebire ndetse n'amadirishya, n'ibyuma bizaza umwuka, kuburyo umurwayi adakomeza kugira ibibazo.

Umubyeyi wicaye aho ari kuganira n'undi musore ukora mu bijyanye n'ubuzima, aho afite igikoresho cyabugenewe gifasha mu gupima umubiri w'umuntu uhagaze ndetse inyuma hari inzu ituwemo n'uwo mukecuru ndetse n'insina n'indabo ziteye hafi yaho.

Icyumba k'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura ndetse hakabamo n'uburiri umurwayi aryamaho, harimo udutanda n'ameza bibikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'amashusho ari ku rukuta arimo imboga, imbuto ndetse n'amacupa, bityo kugira ngo icyumba gikomeze gise neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho hari agatanda karyamwaho n'abarwayi, utumeza n'utubati dushyirwaho imiti, ndetse n'ibikoresho bifasha umuganga kureba neza ndetse, bikongera urumuri mu gihe ari gukora, ibijyanye no kuvura no gukiza umuntu indwara zigiye zitandukanye.

Abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye aho bategereje ubufasha bw'ubuvuzi ,ko hari inyubako iruhande rwabo zifashishwa ndetse zikoreshwa n'abaganga kugira ngo aho ufashe abaje bakeneye kwivuza .Hari ubusitani butoshye neza kandi bwiza bityo kugira ngo hakomeze hagaragare neza.

Abantu bicaye mu nama, aho bambaye imyenda isa, haba iy'umuhondo ndetse n'iy'icyatsi, bari muri gahunda yo gufata inyigisho zijyanye n'ubuzima, bityo kugira ngo barusheho kuba bagira ubumenyi bwinshi ubujyanye n'uko bakwita ku buzima bwabo, ndetse birinda indwara nyinshi ziterwa n'impamvu zigiye zitandukanye.

Abaganga babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa, aho bari kwita banafasha umuntu waje gusaba ubufasha bwo kwivuza aho kwa muganga ndetse umwe yambaye igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gupima no kumenya uko umutima w'umuntu utera mu gihe mugenzi we ari gusoma areba neza ibyanditse ndetse bose bashishikajwe no kwita k'uyu murwayi waje kubasaba ubufasha.

Icyumba cyo kwa muganga cyirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, aho harimo ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga, hakabamo intebe umuganga ndetse n'umurwayi bicaraho kugira ngo abashe kwitabwaho, bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza nyuma yo gukurikiranwa.

Inzu y'akarere y'ivuriro aho hari icyapa kibigaragaza ndetse n'amagambo yanditse ku nyubako bityo kugira ngo umuntu ntazajye ayoba cyangwa se ukeneye serivise, ajye abona aho azisanga. Iyo nyubako ifite amadirishya ndetse igeretse kabiri.

Inyubako nziza cyane nshya yubatswe igamije kwitabwaho bityo kugira ngo irusheho kuba yafasha abantu bafite ibibazo by'umubiri ndetse n'ubuzima kugira ngo bajye baza kureba abaganga babafashe ndetse babahe inyigisho zijyanye n'ubuzima bityo barusheho kuba bagira ubuzima bwiza.

Inyubako yifashishwa n'abafite ibibazo by'ubuzima, aho umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ajyayo, akitabwaho ndetse agahabwa ubufasha. Mu nyubako harimo utumeza, ndetse n'utubati turimo imiti, ndetse n'umuntu uhagazemo wita ku baje babagana, kugira ngo hirindwe kuba bagira ibibazo by'ubuzima cyaba cyatewe no kubura ubitaho.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mavuriro ndetse no gukiza indwara zigiye zitandukanye, aho harimo amacupa arimo imyuka ndetse n'ibikoresho bigaragaza uko bikoreshwa. Bityo kugira ngo umuntu yitabweho neza mu buryo bukwiye.

Inyubako y'Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, aho yubatse neza ndetse hari ubusitani buyikikije, mu mbuga hashashemo amabuye ndetse n'amatafari, atuma ahagaragara neza ndetse hasa neza cyane.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani bugiye butandukanye bwiganjemo ibimera bigufi ndetse n'ibiti birebire, hari kandi imodoka zihagaze, aho zishyirwa ndetse n'ibikoresho birinda izuba, bityo kugirango ngo harusheho kuba hamera neza.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga aho harimo ibikoresho byifashishwa mu ivuriro nk'ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'utumeza duterekwaho imiti kugira ngo tworohereze umuganga kuba yatujyana aho imiti agiye kuvurisha abarwayi.

Inyubako yifashishwa n'ababyeyi bityo kugira ngo bavurwe ndetse bafashwe kuba bagira ubuzima bwiza aho ku rubaraza rwayo hari ameza ndetse n'abantu bicaye bategereje abo baha ubufasha bw'ubuvuzi.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura nk'ibitanda, utumeza tubikwamo imiti ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kumenya uko umuntu arwaye ndetse n'ikibazo afite, bityo kugira ngo yitabweho mu buryo bwa gihanga.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho hari udutanda duterekwaho imiti ndetse n'imashini zifashishwa mu gupima no kumenya uko ubuzima bw'umuntu buhagaze.

Ivuriro riri mu nyubako y'umuturirwa hariho ibyapa bigaragaza bikanarangira abantu ibikorerwamo imbere hari utwapa dutoya turanga tukanayobora abaje gusaba ubufasha kuri iryo vuriro kugira ngo abitabiriye n'abaje gusaba ubufasha bavurwe kandi bahabwe ibyo bakeneye.

Inyubako y'umuturirwa aho imbere yayo haparitse imodoka nyinshi ndetse n'ibendera ry'igihugu riri imbere ku nyubako yo hepfo, hari abantu bari kwerekezayo hari umudamu ufite umutaka ndetse hari n'i'ibyapa biranga abantu aho izo nyubako ziherereye n'icyo zikora.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura no mu kumenya uburwayi umuntu afite, harimo intebe bicaraho ndetse n'ibindi bikoresho nk'amatara, ndetse n'ibirango byerekana uko ibyo bikoresho bikoreshwa, ndetse n'insinga zizana umuriro muri icyo cyumba, kugira ngo ubone ko hakoreshwa ibyo bikoresho.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'abarwayi harimo ibitanda baryamaho ,ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho ,hamanitse supanete kugira ngo abantu birinde kuba baribwa bakanarumwa n'umubu ,harimo kandi n'ibitambaro birinda kandi binafasha abaryamye kuba hagira ibanga.

Umugabo wicaye ari kumwenyura wambaye ibyifashishwa mu kureba neza aho ari kumwe n'umugangakazi yamushyize igipimo cyo kwa muganga kimufasha kumenya ibibazo afite ku kaboko.

Inyubako y'umuturirwa aho mu miryango yayo harimo abantu bahagaze, hejuru hari icyapa cy'ikigo gishinzwe ubuzima cy'u Rwanda ndetse imbere yayo hahagaze imodoka harimo iz'ubuzima ndetse n'izindi zigenga.

Abantu benshi harimo abaturuka mu bihugu byo hanze ya afurika, bera ndetse n'abirabura bose, bamwe baricaye abandi barahagaze, aho bar’iruhande rw'ikimenyetso kigaragaza ibitaro bya butaro, bifasha abantu mu gukira indwara zabugarije.

Umuntu uryamye ku gatanda aho yambaye ingofero n'agapfukamunwa aho ari gufashwa n'umubyeyi ukura mu nzego z'ubuzima aho ari ukumufata amaraso bityo kugira ngo amenye indwara arwaye bityo amufashe kuba yagira icyo amufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza hari kandi igikoresho giteretse iruhande kirimo ibikoresho ari kwifashisha kugira ngo amuvure neza kandi mu buryo.

Inyubako iherereye i Remera yifashishwa mu gucuruza no kugurisha imiti, aho iruhande rwayo hahagaze imodoka ndetse hari na kizimyamwoto ziri iruhande rw'inyubako kugira ngo zifashishwe mu kuba zazimya umuriro mu gihe bibaye ngombwa.

Inyubako yo kwa muganga yita ku buzima bw'ababyeyi ndetse hari intebe z'abaje kwivuza bicaraho, hakaba n'umuntu uri iruhande rw'inyubako, aho yaje gusaba ubufasha bwo kwivuza.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bagize ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho bose bambaye udupfakamunwa ndetse bahagaze ku mirongo kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, bityo kugira ngo barusheho kumenya ndetse no kwigisha neza gahunda zo kurwanya ihohotera.

Umwana muto, uri kwitabwaho n'umuganga, aho ari kumutera agashinge, iruhande hicaye undi musore wicaye ku buriri, utegereje ko umwana amara kuvurwa akamutahana, hirya harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa kwa muganga nk'inshinge, ndetse n'utubati tubikwamo imiti.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye aho umuyobozi w'igikorwa bari gukora bavura umuntu aba ari ku rwego cyangwa ari kure bityo agakoresha murandasi kugira ngo ayobore abandi bari gukora icyo gikorwa cyo kuvura bityo bikihutisha kandi bikanafasha ubuvuzi ku bantu.

Inyubako nziza cyane yifashishwa mu gutanga gahunda zijyanye n'ubuzima, aho iruhande rwayo hari imodoka ndetse n'abantu bahagaze imbere yayo bityo kugira ngo barusheho kuba bamenya neza uko yakora ndetse iruhande rwayo hari n'ubusitani butuma hagaragara neza.

Abantu bahagaze, abandi bicaye hafi y'inyubako itanga ubufasha bujyanye n'ubuvuzi, ku ruhande hari icyapa kiranga kikanamenyesha ubufasha iryo vuriro ritanga ndetse n'igihe rikora, iruhande hari imodoka ihagaze ndetse hari n'abandi bantu bicaye bategerejwe kuba bagerwaho bagafashwa.

Inyubako yifashishwa mu gucuruza imiti igiye itandukanye ifasha abantu mu gukira indwara nyinshi, imbere yayo hahagaze imodoka, ndetse hari n'ibirango by'aho umuntu akeneye kugura iyo miti aza, ndetse harimo utubati turimo ubwoko bw'imiti myinshi, ndetse n'abantu bashinzwe kuyigurisha bityo kugira ngo umuntu ukeneye umuti uwo ari wo wose ku giciro runaka, abashe kuwugura, ndetse bimugirire umumaro.

Igikapu gitukura gifite amabara y'umukara aho gifunguwe kikaba kirimo imiti myinshi igiye itandukanye, irimo ibinini inshinge ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo mu gihe cy'imikino.

Umuntu uryamye hasi aho bari kumuhambira kugira ngo barebe ko yahabwa ubufasha, aho hari abandi bantu bane bapfukamye iruhande rwe bari kugerageza kuba bamufasha, hirya hari imeza ndetse n'intebe ziteretseho ibikoresho bakoreshaga, ndetse n'abandi bantu bahagaze iruhande bari kureba uko bari gufasha uwo muntu wagize ikibazo.

Umuntu uri iruhande rw'amazi magari, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye amaboko cyane mu kirere kugira ngo abashe kugorora imitsi n'imikaya y'amaboko ndetse n'iy'umugongo, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza kuko iyo ukora imyitozo ngororamubiri ugira ubuzima bwiza ndetse ukirinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kudakora, no kutananura imitsi.

Umuntu uri ukora imyitozo ngororamubiri aho yarambuye akaguru ku ruzitiro ndetse n'amaboko, kugirango ngo arusheho kugorora no kurambura imitsi n'imikaya by'amaguru n'iby'amaboko, kugira umugongo na wo ugorokeremo kuko ubuzima butagira siporo ntago aba ari bwiza. Aho ari gukorera hari ibiti ndetse n'inzitiro zirinda kandi zinakumira akavuyo.

Ibikoresho byo kwifashisha kwa muganga ndetse n'ibikoresho by'isuku bishobora gukoreshwa iyo umuntu agiye mu bwiherero, umukasi wo gukata aho biri ngombwa ndetse n'inshinge zo gutera umuti umurwayi.

Umuntu uryamye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri, bityo kugira ngo arusheho kugorora ndetse arambure imitsi, imikaya n'amagufa kugira ngo amaraso arusheho gutembera neza mu mubiri, bityo arusheho kuba yakwirinda indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye amaboko akayahinira agafata y'umutwe, aho ari kugira ngo agorore inkokora ndetse agorore n'amaboko bityo arushaho kuba yagira ubuzima bwiza kuko imyitozo ngororamubiri ituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Umuntu uri kunywa amazi mu icupa ry'umweru, aho yashyize agatambaro mu mugongo ari kunywa amazi bityo kugira ngo amugirire umumaro mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko amazi afasha umuntu kuba impyiko zayungurura neza amaraso kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umuntu wicaye ku gitanda yambaye umupira w'amaboko maremare, aho yakomeretse munsi y'ivi gato ku kaguru kamwe, aho yagiye gusaba ubufasha bakaba bamupfutse ndetse akaba yiteguye kuba yakira, bityo akongera akagira ubuzima bwiza.

Ibikoresho ndetse n'uburyo bwifashishwa mu guha ubutabazi bw'ibanze umuntu ugize ikibazo, cyaba icyo gukomereka, kuvunika cyangwa kuba yagira ibindi bibazo by'umubiri, aho harimo ibikoresho byabugenewe nk'umukasi ndetse n'ibindi byifashishwa mu guhambira ndetse no kuzirika aho umuntu yagize ikibazo, bityo kugira ngo yitabweho vuba aze guhabwa ubundi bufasha nyuma ariko yabanje kugira ubw'ibanze.

Amagambo agaragaza ubufasha butangwa ku muntu bamugorora, cyane cyane hibandwa ku maguru, umugongo, amaboko, ijosi, mu nda, ndetse no mu gatuza, n'ahandi hagiye hatandukanye, kugira ngo umuntu arusheho kuba yagororoka, amagufa akamera neza, ndetse n'umubiri we ugakora neza nk'uko bisanzwe.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'umuganga ari guha ubufasha umuntu ufite ikibazo cyo mu kanwa nk'amenyo ndetse n'ibindi, aho harimo n'agatanda umurwayi aryamaho agiye guhabwa ubuvuzi.

Imiti myinshi iri mu macupa ndetse no mudukarito twabugenewe aho iri mu kabati ibitse neza hirindwa ko yakwangirika cyangwa se yagira ikibazo cyo ko ishobora kuyateza ibibazo k'uyifashe bityo kugira ngo umuntu uyiguze cyangwa se uyikoresheshije yirinde kuba yagira ibindi bibazo bishobora kuba byaterwa no kuba yarafashwe nabi.

Umuntu ufite igikoresho cyifashishwa mu kuvura no kugabanya ububabare aho umuntu yakomeretse cyangwa yababaye cyane, aho yari gushyira ku nkokora kugirango agabanyirizwe ububabare.

Igikoresho cyifashishwa mu kuvura abari mu mikino iyo bagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa cyo kuvunika, bityo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bibarinde kuba bagira ibibazo bitewe n'iyomvune cyangwa se n'icyo gikomere, aho iyi mashini yifashishwa cyane cyane muri izo gahunda zijyanye no gufasha abafite ibibazo mu mikino.

Agakoresho ko mu ibara ry'umuhondo kifashishwa batwara umuntu wa ugize ikibazo yakomeretse cyangwa yavunitse, hirya hari abantu babiri bambaye imyenda yabugenewe ibafasha guhumeka ndetse ibafasha no kuba batagirwaho ingaruka, batwaye agatanda kariho umuntu kugira ngo bamufashe ndetse bamugeze ahantu hatenganye.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga cyirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse no kugorora ingingo, aho harimo umuganga ndetse n'umurwayi witaweho ndetse washyizweho ingororangingo kugira ngo arusheho yagarura ingingo ze ndetse zitabweho neza.

Umuntu uri kunywa amazi mu icupa aho yashyize agatambaro k'umweru mu rutugu bityo kugira ngo amazi amugirire umumaro mu buryo bw'uko amaraso atembera neza mubiri ndetse n'impyiko zibashe kuyayungurura neza kuko aba yamaze kubona amazi ahagije mu mubiri.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aho mu cyumba ari gukoreramo kirimo ibikoresho byabugenewe ndetse n'ibyo bifashisha bagorora amaboko, amaguru, ndetse n'umugongo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza bityo amaraso arusheho gutembera neza umubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa bavura bakanafasha abagize ikibazo cy'ubuzima bari mu mikino, aho hari ibikoresho nk'imashini, imyenda ndetse n'ibipimo bimenyesha aho umuntu agize ikibazo ndetse n'uko kingana.

Umugabo wambaye isengeri aho ari kunywa amazi mu icupa ryabugenewe bityo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze kuko amazi afasha umubiri kuba amaraso yayungurwa neza ndetse akanarinda indwara nyinshi ziterwa n'umwuma.

Umuntu uhagaze imbere y'undi uri guhabwa ubufasha bw'ubuvuzi aho ari kumufasha mu kibazo ya yagize kugira yongere amere neza, yambaye ibinda intoki ndetse uri kumufasha yambaye umupira ufite imashini y'umukara aho bari gufatanya kugira ngo arebe ko yakongera akamera neza.

Icyumba cy'inyubako kwa muganga kirimo abakura muri gahunda z'ubuzima harimo abambaye udutambaro mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa, iruhande hari inyakiramashusho iriho umuntu uri kubageza amahugurwa ndetse nuko ibintu bimwe na bimwe bijyanye no kuvura bikorwa, ku meza hateretse mudasobwa ndetse na telefone, zimwe muri izo mudasobwa zirimo amashusho y'abaganga ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukurikirana hakoreshejwe uburyo bw'iyakure.

Abana benshi bari mu kibuga, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, bityo kugira ngo barusheho kuba barwanya indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri nko, kugira ibibazo by'amaraso adatemba neza mu mubiri, ndetse n'ibibazo by'imitsi, bityo kugira ngo abana bakurane umuco wo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bazakurane ubuzima bwiza buzira umuze.

Igice cy'umubiri w'umuntu cy'gihimba aho hagaragara mu gatuza ndetse n'urutugu ruriho ibimenyetso bishushanyijeho hari icy'umutuku ndetse n'icy'ubururu bigaragazwa ko umuntu afite ikibazo ku rutugu ndetse afite amatuza maremare y'umubiri ufite ubuzima.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho hari igikoresho ari kwifashisha giteretse imbere ye, azamura akaguru akandagiraho, azamura akandi, bityo ikagorora imitsi y'amaguru, ndetse ikamufasha no kuba yagorora amaboko ndetse n'umugongo. Ubuzima bugira siporo buba ari bwiza, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Inyuma yaho ari gukorera imyitozo hari ubusitani butoshye, ndetse buzana akayaga keza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye hasi yarambije akaguru kamwe ndetse n'ukuboko kugira ngo agorore ndetse anarambura imitsi n'imikaya bifata amaguru ndetse n'amaboko, bityo kugira ngo n'umugongo ugororoke, bityo arusheho kuba amaraso yakomeza gutembera neza mu mubiri.

Umuntu uri gukora imyitozo ngoramubiri, aho yarambuye amaboko mu kirere, akamanura amaguru hasi kugira ngo agarure imitsi n'imikaya by'amaboko, umugongo n'amaguru, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'amaraso atembere neza mu mubiri, hirindwa indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Ibimenyetso ndetse n'amashusho agaragaza uko hakwidwa icyorezo cya covid cumi n'icyenda, aho harimo uburyo bugiye butandukanye nko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwirinda gusuhuzanya, kwambara agapfukamunwa, ndetse no kwirinda kwegerana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo harusheho kwirindwa ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo cyatatse isi.

Ibikoresho byifashishwa mu imyitozo ngororamubiri ndetse n'imikino, ndetse n'imbuto zigizwe n'ibinyomoro, ndetse n'inyanya, n'igikoresho cyifashishwa kwa muganga bapima uko umubiri w'umuntu uhagaze.

Udukarito tugiye dutandukanye turimo imiti cyane cyane yifashishwa mu mikino aho uwagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa cyo kuvunika afashwa ndetse akitabwaho hakoreshejwe iyo miti irimo tuno dukarito, hanashushanyiho amagambo agaragaza ko imiti irimo ikoreshwa ndetse n'amazina yayo kugira ngo uyikoresheje amenye uko ayikoresha mu buryo bukwiye kandi butanyuranye n'ukuri kugira ngo hatagira izindi ngaruka.

Umuntu uri kunywa amazi, aho yambaye agapira kamwegereye cyane ndetse n'ibikoresho bambura mu matwi bari kumva umuziki, ari kunywa bigaragara ko afite inyota, kandi ari mu myitozo ngororamubiri imufasha .

Ikirahure kiri gusukwamo amazi ari kuva mu kacupa aho anyobwa bityo kugira ngo arusheho kuba yatuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse yirinda indwara ziterwa n'umwuma, ndetse n'imyiko zigakura neza kuko ziba zabonye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba ari mu cyumba kirimo imiti yifashishwa mu guha no gufasha abafite ibibazo by'ubuzima bahuriye na bo mu mikino cyangwa mu myitozo ngororamubiri, aho harimo umuntu uri kumwitaho ndetse uri kumufasha.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura no gukiza indwara zigiye zitandukanye, harimo amacupa arimo imiti, inshinge zo gutera, imikasi ndetse n'uturindantoki n'agakapu kajyanwamo imiti bityo kugira ngo yirinde kuba yakwangirika.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yicaye hasi yarambuye amaguru ndetse yarambuye n'amaboko agakora ku nkweto inyuma bityo kugira ngo arusheho kugorora ndetse anarambure imitsi n'imikaya by'amaboko, umugongo n'amaguru, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kuko siporo ni ubuzima bwiza ku bantu.

Umuntu uri gukora imyitozo ngoramubiri, aho ari kubifashwamo n'umuganga kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'imitsi ndetse ziterwa n'uko amaraso adatambuka neza mu mubiri bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse afashwe no kuvurwa izindi ndwara, ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho hari ibikoresho byabugenewe bakandagiraho cyangwa se bakicaraho rimwe bakazamura bagorora amaboko, ibindi bakabyirukaho nk'uri mu muhanda, kugira ngo unamenye neza ibirometero ushobora kuba wakwirukanka cyangwa se ugakoramo siporo, bityo bikakongerera umuvuduko bikanorohereza umubiri kuba,

Ibikapu byabugenewe bibikwamo imiti yifashishwa mu kuvura no mu kugabanya ububabare mu gihe umuntu agize ikibazo iyo ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ari mu mikino harimo inshinge, imikasi ndetse n'icupa ririmo imiti igabanya ububabare bityo kugira ngo umuntu arusheho kuba yahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse no kugabanya ububare mu gihe umuntu ari mu gikorwa cy'imikino, bityo kugira ngo arusheho guhabwa ubutabazi bw'ibanze, harimo umukasi, ndetse n'ibindi bibikwamo iyo miti kugira ngo itwarwe neza hirindwa kwangirika kwayo ndetse no kuba yagira ibindi bibazo iteza.

Umwana muto cyane washyizwe ku buriri, aho akikijwe n'abantu harimo abo kwa muganga bashinzwe kwita ku buzima bw'abana, bityo kugira ngo ahabwe imiti ndetse anakingirwe bityo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, bityo abashe gukura neza ndetse anakurane igikuriro.

Igikapu ndetse n'agakarito bibikwamo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu guha ubufasha bw'ibanze kandi bwihutirwa ku muntu ukomeretse cyangwa uvunitse, bityo kugira ngo arusheho kuba yamera neza, hirya hari abantu bicaye ndetse bose bariku......

Umuntu uri ukora imyitozo ngororamubiri aho ari kumwe n'umuntu ushinzwe kumwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza, aho ari gukora anafite igikoresho mu ntoki gituma umuntu agorora amaboko neza ndetse mu cyumba harimo ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga nk'utumeza, utubati ndetse n'udutebe two kwicaraho kugira ngo barinde ndetse banagire ahantu heza hafite ibisabwa byose.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye akaguru kamwe, akandi akagashinga kugira ngo agorore neza imikaya n'imitsi y'amaguru ndetse n'iy'amaboko n'umugongo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kuko siporo ari ubuzima.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye hasi ndetse yahinnye amaguru akarambura n'amaboko, ku buryo agorora imitsi n'imikaya by'amaboko n'umugongo, afite igishushanyo yashyize ku kaguru kigaragaza ndetse kiri mu ibara ry'umutuku.

Abantu bari mu kibuga aho bakinira umupira, aho hari umukinnyi upfukamye hasi bigaragara ko yagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa cyo kuvunika, aho bari kumufasha kugira ngo bamworohereze cyangwa bamuhe ubufasha kugira ngo asubire mu kibuga bityo arusheho gukira, aho bafite ibikoresho byabugenewe kugira ngo bamwiteho.

Umuntu uri kunywa amazi bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze kuko afasha umubiri w'umuntu kuba impyiko zayungurura neza ndetse zikanita cyane ku maraso.

Amagambo avuga ko abantu bashobora gukina, ndetse ntibangizanye cyangwa ntibakomeretsanye, ndetse n'uko impanuka zishobora kwirindwa n'abantu bari gukina umupira, bambaye ibikoresho byabugenewe birinda umutwe cyane cyane amaso kuba yakomereka.

Abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri aho bafite udukoresho tw'imipira yabugenewe aho uwo hino ari kugenda anyura mu migozi hirya hari ibikoresho byabugenewe nk'ibyuma byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bambaye imyenda y'abashinzwe kwita ku butabazi bw'ibanze ,aho batwaye umuntu bamurandase, wagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa kuvunika bityo kugira ngo abe ubufasha bw'ibanze .Inyuma hari abandi bari kubareba ndetse nabo bari muri gahunda yo kwiga no kumenya uko baha umuntu ubufasha bw'ibanze, mu gihe agize n'ikibazo cyangwa ahuye n'ikibazo kimeze nk'icyo uyunguyu agize.

Umuntu wagize ikibazo ku nkokora aho yashyizeho umuti umufasha kugabanya uburibwe, bityo kugira ngo arusheho kuba yakoroherwa kugira ngo abashe kuza kwitabwaho neza ariko yabanje kugabanyirizwa ububabare.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga aho gifite umugozi ugifasheho ndetse n'ibindi bifashe hejuru ku mugozi byifashishwa mu gutera umuti bifite ibara ry'ubururu ndetse n'akandi bikoreshwa nk'ipombo kugira ngo umuti ugire uwuteye neza.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa n'abaganga mu kumenya no gutahura udukoko dutera indwara, cyane cyane tutagaragarishwa amaso, aho iki gikoresho kitumenya ndetse bakamenya ko bishobora kwirindwa umuntu akaba yakira.

Ikiganza gifashe igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu gusuka amazi, aho ari kuyasuka mu kirahure kugira ngo uyakeneye abashe kuyanywa, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze kuko amazi, atuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umuntu uri kwita ku wundi uryamye hasi aho yagize ikibazo, aho ari kumuha ubufasha bw'ibanze, bushobora gutuma bumugabanyiriza uburibwe ndetse n'ububabare, bityo kugira ngo amere neza, iruhande rwabo hari umupira ukinwa, ndetse n'abandi bantu bari mu myitozo hirya bari gukina bityo kugira ngo uri kwitabwaho amere neza ndetse asubirane ubuzima.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agaragaza igororangingo cyane cyane ryita ku magufa aho hatangwa ubutumwa bujyanye n'uko hagororwa ndetse bakwita ku magufa n'umubiri muri rusange kugira ngo ugororoke urusheho kuba utahinamirana cyangwa utagira ibibazo by'uko.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yahinnye amaboko yafashe mu mugongo kugira ngo abashe kugorora amaboko neza ndetse agorore n'umugongo, bityo bimufashe kugorora imitsi, ananure imitsi kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Igikoresho cya siporo cyifashishwa mu kugorora umubiri ariko cyane cyane mu gukuraho inda mu buryo bukoroheye, kugira ngo ugire ubuzima bwiza bwirinda cyangwa se burwanya umubyibuho ukabije, bikorwa cyane n'abantu b'ingeri zose, aho buri ukeneye kugabanya inda cyangwa akeneye kurambura umubiri, aho yakifashisha kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, ndetse buzira umuze kuko imyitozo ngororamubiri na siporo muri rusange bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye imyenda yabugenewe ndetse yunamye bityo kugira ngo umugongo ndetse n'imitsi y'amaguru irambuke kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikapu gitukura aho gifite utubara tw'umukara, kirimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa cyane cyane mu mikino aho iri mu macupa ndetse no mu makarito yabugenewe kugira ngo ibashe kuba yakwitabwaho ndetse inafashe ugikeneye.

Umuntu uri kunywa amazi ari mu icupa ryabugenewe, aho amazi afasha umubiri kuba amaraso yatembera neza ndetse n'impyiko zigakora neza akazi kazo bityo umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu wambaye isenge y'umukara aho ari kunywa amazi ndetse kunywa amazi bigira umumaro munini mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, aho bituma umubiri amaraso awurimo ayungururwa neza ndetse bikamurinda indwara zifata impyiko bityo akagira ubuzima bwiza buzirara umuze.

Umuntu wicaye, aho ariko kunywa amazi ari mu icupa, ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse afite n'akantu yambaye ku kuboko kari mu ibara ry'icyatsi, amazi ni ubuzima iyo uyanyweye, urushaho kugira ubuzima bwiza ndetse ugakomeza imyitozo umeze neza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye umwenda wabugenewe wo gukorana imyitozo ngororamubiri, aho yahiniye amaboko mu mugongo ukundi akagufatisha ku nkokora kugira ngo arambure ndetse agorore imitsi n'imikaya by'amaboko n'iby'umugongo, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kuko iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri amaraso atembera neza mu buzima bwe, umubiri ukarushaho kumera neza.

Abantu bari kwirukanka bityo kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, bafite amacupa arimo amazi yo kunywa mu gihe bagize ikibazo cy'inyota bityo kugira ngo barusheho gukora iyo myitozo bafite ubuhehere ndetse bishimye.

Umuntu uri gutambukira mu kagare kugira ngo arusheho gutambuka neza, aho ari gufashwa n'ushinzwe kubitaho, icyumba barimo kirimo utubati ndetse n'ibindi bikoresho bizana umuyaga kugira ngo hirindwe ubushyuhe bugiye butandukanye.

Abantu babiri bari kumwe n'umwana muto cyane wicaye hasi aho bari kumuha ubufasha bwo kumukorera imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumera neza ndetse agire ubuzima bwiza kuko siporo ari ubuzima, hirya hariyo abandi bari gukora imyitozo ngoramubiri ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha.

Umuntu washyize agatambaro ku kuboko bitewe n'ukouko yagize ikibazo kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze bityo agabanyirizwe ububabare arusheho kuba yakira vuba ndetse yakwirinda izindi ngaruka zishobora guterwa n'icyo kibazo yagize ku kuboko kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo ahabwe ubufasha bwihuse.

Umuntu ufashe icupa ari kunywa amazi bityo kugira ngo bimufashe kuba yagira ubuzima bwiza, kuko amazi iyo ageze mu mubiri bifasha kuyungurura amaraso kugira ngo umuntu yirinde indwara zifata impyiko ndetse anagire ubuzima bwiza kuko iyo umubiri ubona amazi ahagije bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse akagira umubiri utoshye.

Amacupa ashushanyijeho ikimera cyifashishwa nk'umuti gakondo cyitwa igikakarubamba, ndetse hakaba n'amagambo agaragaza ko yita cyane ku ruhu rw'umuntu, aho umuntu wafashe iyo miti arwanya indwara zifata uruhu, ndetse akagira ubuzima bwiza. Bityo akarushaho kugera ku iterambere rirambye mu buzima bwiza.

Udukarito dufunze neza turimo imiti gakondo yifashishwa cyane mu buvuzi, bityo kugira ngo ufite ikibazo cy'uburwayi arusheho kumera neza ndetse akire. Handitseho kandi hanashushanyijeho uko iyi miti ikoreshwa n'uko yitwa, bityo kugira ngo umuntu arusheho kuyikoresha azi neza kugira ngo yirinde kuyikoresha nabi.

Amacupa agiye atandukanye ateretse neza ahabugenewe, arimo imiti gakondo yifashishwa cyane cyane ku bafite ibibazo by'uburwayi bityo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze ndetse mu mbavu y'amacupa handitsemo uko imiti ikoreshwa ndetse n'akamaro kayo.

Amacupa abiri ndetse n'imiti idatunganyijwe neza iteretse iruhande rwayo ndetse n'ikirahure cy'igikombe, aho yifashishwa cyane mu miti gakondo mu kuvura ndetse no gukiza indwara zigiye zitandukanye zifata ubuzima bw'umuntu.

Ibimera bigiye bitandukanye, byiganjemo igikakarubamba cyifashishwa cyane mu gutegura no gutunganya imiti gakondo, kuko kiravura ndetse kivura indwara nyinshi cyane zijyiye zitandukanye, zifata ubuzima bw'umuntu.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza ibisabwa ndetse n'ibikenerwa kugira ngo mwiyandikishe mu mashuri yigisha ubuvuzi gakondo mu bihugu cyangwa mu bice byo muri Afurika.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu miti gakondo, aho bikurwamo imiti igiye itandukanye, ikifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata umubiri, ndetse ikundwa n'abantu cyane kuko ikiza indwara nyinshi, kandi mu gihe gito itanahenze cyane.

Amacupa atatu ateretse ku kameza aho yifashishwa mu kuvura ndetse no gukira indwara ziri zitandukanye, harimo umuti gakondo ukenerwa ukanakundwa n'abantu benshi bakeneye kuvurwa.

Amacupa menshi agiye atandukanye arimo ibinyobwa bigizwe n'inzoga ndetse n'ibindi bidasembuye, aho hari umudamu wunamye iruhande rwayo ndetse n'umugabo bambaye amakarita aranga ndetse yabugenewe y'akazi bakora, mu cyumba harimo abandi bari kugenda ndetse bambaye imyambaro yo gutanga ibyo binyobwa.

Abantu benshi bagiye batandukanye aho bari mu murima uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu miti gakondo, ndetse biteye neza ku murongo, bityo kugira ngo bizakure neza ndetse birusheho kugira umumaro. Hafi yayo hari igiti kinini cyane ndetse cyahameze, hari n'inyubako ziri imbere zijyamo abantu bashinzwe kurinda iyo miti.

Ibikoresho byabugenewe bishyirwamo imiti gakondo, aho harimo udukarito ndetse n'uducupa aho iteretse ahabugenewe bityo kugira ngo uyikeneye ajye ayibona itara itarangiritse kandi ifite umwimerere wayo.

Ibimera bigiye bitandukanye biri mu moko menshi aho byifashishwa mu kuvura ndetse no gukiza indwara nk'aho ari imiti gakondo ikundwa n'abantu benshi, kuko ifasha abantu gukira ndetse ikiza nk'indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa afunze neza arimo imiti gakondo yifashishwa muvanamo mu gukikiza indwara zigiye zitandukanye aho iruhande rwayo hari ibigaragaza ndetse n'ibimenyetso by'uko umuti ukoreshwa bityo kugira ngo umuntu awufate azi neza icyo ugiye kumufasha ndetse yirinde.

Ibimera bigizwe n'umuravumba, aho byifashishwa bikanakorwamo imiti gakondo ikiza indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora, umutwe ndetse n'izindi, aho utunganywa cyangwa ugahekenywa bityo ukarushaho kugirira umumaro uwunyweye.

Agacupa kabikwamo umuti gakondo aho wifashishwa mu kuvura no gukiza indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo izifata uruhu ndetse n'izindi, aho hashushanyijeho ikimenyetso k'igisiga ndetse n'amagambo agaragaza uko uwo muti ukoreshwa ndetse n'igihe wamara.

Amababi y'ibiti ikurwamo imiti gakondo, aho yifashishwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, aho yatewe mu macupa yabugenewe kugira ngo ibashe kuba yakura neza ndetse ikurane umwimerere wayo.

Icupa rifunze neza, ryanditseho amagambo agaragaza ko harimo umuti gakondo, ukorwa mu muravumba, aho ufasha mu kuvura ndetse no gukiza indwara zitandukanye, nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi zifata ubuzima bw'umuntu.

Amacupa agera kuri atatu aho abiri ari mu mabara y'umweru irindi riri, mu ibara ry'umuhondo ashushanyijeho imiti, ndetse n'ibimera bivanwamo iyo miti gakondo, aho yifashishwa mu kuvura ndetse no mu gukiza indwara zigiye zitandukanye.

Umuti wa gakondo aho uri mu icupa rifite ibara ry'umutuku uvura indwara nyinshi harimo nk'amibe ndetse n'ibindi bibazo bishobora gutuma umuntu agira uburwayi, ni mwiza kandi abantu barawukunda kuko abafite indwara zigiye zitandukanye ubafasha kuba bakira.

Ibimera byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata abantu, aho itunganywa neza ndetse abantu ikabakiza indwara nyinshi bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga aho hari umuganga wicaye ku ntebe zo mu ivuriro, ku meza hateretse amacupa y'imiti agiye atandukanye, yifashishwa cyane mu gutera inshinge ndetse no gufasha abafite ikibazo cy'uburwayi.

Igikoresho cyabugenewe kirimo umuti gakondo harimo ndetse n'imbuto nk'indimu ndetse n'ibindi biteretse iruhande, byose byifashishwa cyane cyane mu buzima bwiza kugira ngo aba bafite ibibazo by'uburwayi bakire kandi boroherezwe, bityo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze..

Uruzitiro rw'ibiti, aho hari igiti kirimo ndetse cyifashishwa nk'umuti gakondo, aho abafite ibibazo by'ubuzima bakunda kwifashisha imiti nk'iyi kugira ngo bakire indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera byinshi biri mu moko agiye atandukanye aho byifashishwa mu miti gakondo ndetse bikanavura indwara zigiye zitandukanye zifata ubuzima bw'abantu ,hari imiti yo mu bwoko bwinshi ariko yose yifashishwa mu kuvura.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa ndetse bigakurwamo imiti, ikoreshwa cyane mu buvuzi ndetse no gukiza abafite ibibazo by'uburwayi, harimo iz'imbuto ndetse n'iz'ibibabi, bityo kugira ngo iyo imaze gutunganywa ifashe ndetse inagirerire umumaro abayikoresheje.

Icupa ritukura ririho amagambo y'umweru rigaragaza ko ririmo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ikorwa mu bimera nk'imiti gakondo, bityo kugira ngo umuntu akire indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse arusheho kuba yagira imbaduko mu mubiri, ndetse no mu buzima bwe bwa buri munsi.

Amacupa agiye atandukanye agera kuri ane, aho ashushanyijeho ikimenyetso cy'ikimera cy'igikakarubamba, kifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo, ifasha cyane mu kuvura indwara ziterwa n'impamvu zigiye zitandukanye zifata uruhu, aho ku macupa handitse amagambo y'izina ry'umuti ndetse n'uko ukoreshwa, bityo kugira umuntu arusheho kuba yagira ubuzima bwiza, ndetse n'umubiri mwiza.

Icupa ry'umweru ririho amagambo yanditseho, agaragaza ko ibirimo bikoreshwa harimo umuti gakondo, uko ukoreshwa ndetse n'ibyo uvura. Riteretse ahantu mu mwijima ariko rifite imiti igira icyo ifasha.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo, ivura ndetse igakiza indwara zigiye zitandukanye zifata ubuzima bw'abantu, iruhande hari amagambo agaragaza icyo imiti ikora ndetse n'uko ikoreshwa.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gutunganya no gusekura umuti, aho iruhande rwacyo hateretse amacupa arimo imiti, hari kandi n'ibimera biri iruhande byo gusekurwa kugira ngo bitunganywemo imiti izajya ifasha abantu mu gukira no kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti myinshi yo mu moko agiye atandukanye, aho ari mu ducupa duteretse, yose afite amazina ndetse ariho n'ikigaragaza icyo iyo miti yafasha, aho abantu benshi bakoresha imiti gakondo kugira ngo bakire indwara zigiye zitandukanye bafite.

Akabindi ndetse n'agahini byifashishwa mu gusekura umuti gakondo, aho hari iri iruhande rwako, igizwe n'ibibabi ndetse n'amashami y'ibiti yifashishwa mu gukora iyo miti.

Amababi menshi aho ari ku giti yifashishwa cyane cyane mu miti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho abantu benshi bakunda gukoresha iyo miti kuko idahenda cyane.

Amasura y'abantu agaragaza indwara z'uruhu bafite ndetse n'uko zakize nyuma, hari kandi amacupa arimo imiti yifashishwa mu kuvura ndetse no gukiza izo ndwara zifata uruhu bityo kugira ngo uyifashe arusheho kuba yagira umubiri utoshye.

Amacupa arimo imiti gakondo itunganyijwe neza aho hari uko ikoreshwa ndetse n'amazina yayo kugira ngo umuntu arusheho kuba yagiza ubuzima bwiza yirinda indwara ndetse anakoresha iyo miti kuko irinda ubuzima bw'umuntu kuba bwakwangirika ndetse bwagirwaho ingaruka n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye zifata umubiri wacu.

Amababi menshi y'igiti asa icyatsi aho yifashishwa nk'imiti, cyangwa akavura abafite ibibazo by'ubuzima bityo agakoreshwa nk'umuti gakondo ukundwa n'abantu benshi, iyo bafite ibibazo bashaka gukemura barwaye cyangwa bafite ibindi.

Ikimerara kiririmo bwoko bw'umuravumba, wifashishwa cyane nk'umuti gakondo mu gukiza indwara ziri zitandukanye, nk'inkorora, ibicurane, ndetse n'ibindi, aho gitunganywa neza kikaba cyagira umumaro k'ukinyweye cyangwa se kigahekenywa bityo kugira ngo ufite ibibazo by'uburwayi bigende kandi akire vuba.

Amacupa agiye atandukanye ashushanyijeho ikimerara cy'igikakabamba gikorwamo imiti gakondo, aho umugongo w'ayo macupa handitseho amagambo agaragaza uko uwo muti ukoreshwa, ndetse n'icyo uvura, bityo kugira ngo umuntu arusheho kuba yagira ubuzima bwiza, hirindwa cyane cyane indwara zataka uruhu, ndetse n'izateza ibibazo umubiri w'umuntu.

Agacupa karimo umuti w'amavuta aho iruhande rw'aho hari amagambo yanditse ku gikoresho agaragaza uko akoreshwa ndetse n'ibyiza byayo, bityo kugira ngo abayakeneye cyangwa se abayagura bayakoreshe bayazi kandi bayakunze.

Ibibabi by'ibimera byifashishwa cyane mu muti gakondo kuko bitunganywa ndetse bikagirirwa umumaro k'uyikoresheje bityo kugira ngo akire indwara, kugira ngo arusheho no kugira ubuzima bwiza buzira umuze bityo arusheho kubaho neza.

Ikimera kiri mu bwoko bw'igikakarubamba, kiri iruhande rw'icupa rifunze neza cyane ry'umweru, aho mu rubavu ryarwo hariho ibimenyetso bigaragaza umuti uko witwa n'ikirango cyawo cya kagoma, ndetse n'uko ukoreshwa bityo kugira ngo uwukoresheje arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse yirinde kurwaragurika.

Ibimera bigiye bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura ndetse no gukiza indwara nyinshi, aho hari igikoresho kifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, harimo isekuru, ndetse n'umuhini, yifashishwa mu kuyihonda ndetse no kuyisekura kugira ngo inoge neza, bityo kugira ngo ibone uko itunganywa yite ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi.

Ibimera bijye bitandukanye biri mu bwoko bw'igituvu aho byakuze cyane ndetse bimwe byazanye n'indabo kuko byararabije, byifashishwa cyane mu bwatsi bw'ihene ndetse n'andi matungo, binakorwarwamo imiti gakondo yifashishwa cyane mu kuvura ndetse no mu gukiza indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo ubwoko bw'umuti w'amavuta, aho yifashishwa n'abantu kugira ngo bakire ndetse banagire ubuzima bwiza, bityo babashe kubaho neza kandi bafite ubuzima buzira umuze, iruhande hari utundi dukoresho twifashishwa mu bijyanye n'ayo mavuta.

Amacupa abiri afunze neza, aho rimwe risa umuhondo, irindi risa umweru, aho ashushanyijeho umuti gakondo uvanwa mu kimera cy'igikakarubamba kiriho ndetse hariho n'amagambo agaragaza anasobanura uko umuti ukoreshwa.

Ikibabi kirambuye neza cyane, kiriho udukoresho dufunzemo imiti gakondo yifashishwa cyane mu buvuzi bwa buri munsi, aho abayikeneye bayifata bakayinywa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse bakire indwara barwaye.

Icupa ririmo umuti gakondo wifashishwa cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye bityo kugira ngo umuntu asubirane ndetse agarure ubuzima bwiza buzira umuze, wifashishwa kandi mu rubavu rwaryo handitsemo uko uwo muti ukoreshwa ndetse n'izina ryawo.

Ibibabi byinshi biri ku giti, biri mu bwoko bw'umuti gakondo witwa umuravumba aho ufashwa ukanifashishwa n'abantu kugira ngo bakire indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora, kubabara mu nda ndetse n'ibindi. Bityo urwaye akagira ubuzima bwiza bitewe nuko yifashishije uyu muti.

Ukuboko gufashe umuti wifashishwa mu gukora isuku yo mu menenyo ndetse n'ikiganza gifashe agakoresho kabugenewe gashyirwaho umuti kugira ngo umuntu akore isuku yo mu kanwa cyane cyane amenyo.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza imiti n'igurishwa ryayo ifasha cyane cyane mu gukira indwara zigiye zitandukanye yiganjemo imiti gakondo itunganyijwe neza ndetse ifasha abantu gukira indwara nyinshi.

Ikimenyetso gishushanyijeho imiti igiye itandukanye aho yifashishwa mu buvuzi ndetse ikanakundwa n'abantu bakunda imiti gakondo bityo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga ufite amakarito, aho ari gukuramo amacupa aba arimo umuti, aho afunze neza, kandi hari n'andi atarafungura, mu cyumba harimo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, nk'utubati, ndetse n'ameza yo gushyirwaho imiti.

Ibiganza bibiri by'umuntu aho ari gusekura umuti mu dukoresho twa gakondo kugira ngo abone ibyo akeneye bishobora gufasha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umuntu akire indwara aho abakoresha imiti gakondo baba bayikeneye cyane, iri ku masahani kandi indi iri mu ducuma ndetse indi iri mu tubindi twabugenewe bityo kugira ngo uyikeneye.

Imiti gakondo igiye itandukanye, iri mu mabara agiye atandukanye nk'umutuku, umweru, umukara, ndetse n'ayandi, aho yatunganyijwe neza ndetse hakaba hari n'agakoresho kifashishwa mu kuyisekura, ndetse ivura abantu indwara nyinshi, kuko ikiza indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa agiye atandukanye afunze neza arimo imiti gakondo aho hari n'imbuto ziri ku bikoresho byabugenewe, n'umuntu uri gucuruza uhagaze hagati mu isoko bityo kugira ngo abakeneye ibicuruzwa baze batange amafaranga nawe abahe ibyo akeneye.

Ibimera bigiye bitandukanye aho byifashishwa bikanakorwamo imiti gakondo ifasha abantu gukira indwara zigiye zitandukanye bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza abayifashe. Iratunganywa ndetse ikagezwa, ikanabikwa mu bikoresho byabugenewe kugira ngo ntiyangirike bityo ikarushaho kuvura neza.

Amacupa menshi agiye atandukanye afunze neza, aho arimo imiti gakondo, yifashishwa cyane mu buvuzi no kugangahura abagize ikibazo cy'uburwayi, mu rubavu rwayo handitsemo amagambo y'amazina yayo ndetse n'uko ikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye.

Umuti wifashishwa mu kuvura ndetse no mu gufasha umuntu kuba yakwirinda gucika intege, kurangiza vuba ndetse no kurwara indwara zigiye zitandukanye, uri mu icupa, ufunze neza ndetse mu rubavu rw'icupa handitseho uko ukoreshwa ndetse n'izina ryawo, bityo kugira ngo umuntu awukoreshe kandi arusheho kumera neza.

Udukoresho turimo imiti gakondo igiye itandukanye, aho hari ibiganza bifashe imwe muri iyo miti mikeya, ndetse ari kureba uko imeze, imiti gakondo ikundwa kandi ikanifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, aho ufite indwara runaka aza akayireba ndetse akayihabwa kugira ngo imufashe kuba yakira.

Imiti gakondo yamaze gutunganywa neza kuko yasekuwe, aho yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ziterwa n'impamvu nyinshi, bityo umuntu akarushaho kuba yasubirana ubuzima bwiza buzira umuze, kuko ivura vuba kandi ikundwa n'abantu.

Ibimera bigiye bitandukanye aho harimo igifite amababi ndetse n'indabo z'umweru, cyifashishwa mu gutunganywa bityo kigakorwarwamo imiti gakondo ifasha abantu mu gukira indwara nyinshi zitandukanye

Ibimera byinshi bikiri mu bihoho aho byiteguye kuba byaterwa kugira ngo bikure neza ndetse birusheho kugira umumaro ku wabikoresheje, higanjemo ibimaze gukura ndetse binifashishwa mu kuba byagira umuti gakondo.

Ikibabi gitoshye, kifashishwa mu gukora no gutunganya imiti gakondo, aho ivura ndetse ifasha abantu kuba bamera neza, mu burwayi bugiye butandukanye, ikavura indwara nyinshi kandi zifata umuntu, bityo umuntu akarusha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho cy'akabido gasa umweru n' umupfundikizi utukura n'amagambo yanditse mu rubavu rwako, aho harimo umuti wa gakondo wifashishwa n'abantu bafite indwara zigiye zitandukanye kugirango babashe gukira ndetse bagire n' ubuzima bwiza.

Amacupa ndetse n'udukarito turimo imiti gakondo yifashishwa mu gukiza no kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho harimo ikozwe n'igizwe mu gikakarubamba abantu benshi bakunda bityo kugira ngo barusheho kuba bagira uruhu rwiza ndetse bakire indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo igiye itandukanye harimo itaratunganywa ndetse n'indi yamaze gutunganywa, hari n'igikoresho cyifashishwa bategura banatunganya itarakorwa, hirya hari ibikoresho bibikwamo ndetse bikanifashishwa mu gutunganya iyo miti.

Ahantu hari ibimera, birimo imiti gakondo aho iruhande hari umuntu uhagaze munsi y'igiti ndetse hari n'abandi bari ruguru babiri, bari gushaka imiti bityo kugira ngo bayitunganye, bayikoreshe bityo ifashishe ndetse inagirire umumaro abafite ikibazo cy'uburwayi.

Ibibabi by'imiti gakondo aho hagaragazwa uko ikoreshwa ndetse n'indwara ivura kugira ngo abafite bakanakenera n'iyo miti babashe kuba bayibona banamenye uko yakoreshwa bityo bagire ubuzima bwiza buzira umuze bityo, bakarwanya indwara zibafata za buri munsi ndetse zigatuma batagera ku iterambere nk'uko bikwiye.

Imiti gakondo igaragara mu mashyamba agiye atandukanye, aho yifashishwa n'abafite ikibazo cy'uburwayi ikabafasha kandi ikabavura kurusha n'imiti y'amahanga. Ariko iravura kandi ikiza abantu benshi kuko hari abayikunda.

Imiti gakondo igiye itandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuyitunganya, aho hari icupa ririmo umuti utunganijwe ndetse ukurwa mu gikakarubamba kugira ngo uvure, hari kandi n'indi iteye mu gacupa kari hirya yitegurwa kuba yatunganywa kugira ngo nayo igire umumaro ndetse ifashe abarwayi bagiye batandukanye kuba bakira indwara.

Amacupa agiye atandukanye abikwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, aho iruhande rwayo hari ibimera bijye bitandukanye ndetse n'ibiti, bityo kugira ngo hagaragare neza ndetse hagire umuyaga kugira ngo iyo miti yirinde kuba yakwangirika.

Ibimera bitoshye neza cyane ndetse bifite n'indabo n'imbuto zezeho, aho byifashishwa cyane cyane mu gutegura no gukora imiti gakondo yifashishwa mu buzima kugira urwaye akire bityo arusheho kugira imibereho n'ubuzima bwiza.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura no mu gukiza indwara nyinshi zigiye zitandukanye, hari ufite iyo yasoromye mu ntoki, ndetse n'undi ufite indabo z'iyo miti gakondo hakaba n'ikimera giteye, ndetse hari n'ibindi byatunganyijwe byitegurwa kuba byateza imbere umuntu bitewe n'uko yagize indwara.

Amacupa arimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura, harimo igikakarubamba ndetse n'indi gakondo, aho ivura ndetse igafasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi kuba bakira vuba, ndetse bakitabwaho, bakamera neza bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibimera byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukurarwamo imiti gakondo nk'umuravumba aho ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, nk'inkorora, ibicurane, ndetse n'izindi aho itunganywa neza ndetse ikavura abantu bityo abantu bakarushaho kuba bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amacupa agiye atandukanye afunze neza cyane, arimo imiti gakondo ndetse n'ibirahure byifashishwa mu gusukamo iyo miti mu gihe umuntu aba agiye kuyinywa, ifasha abantu mu burwayi bugiye butandukanye ndetse bagakira hirya hari amashashi abikwamo ndetse arinda imiti kuba yakwangirika.